Umurwayi urimo urafatwa ibipimo by'ibanze mbere y'uko atangira kwivuza izindi ndwara zigiye zitandukanye, akaba arimo arabikorerwa n'abaganga babihuguriwe.

Abakozi bo mu nzego z'ubuzima begerejwe abaturage bazwi nk'abanyabuzima, aho bari bahuriye hamwe kugira ngo bahabwe telefoni zigezweho, zizajye zibafasha mu kazi kabo ka buri munsi ko kwita ku baturage.

Abana bari kuvoma amazi mu gisa n'ikiyaga cyangwa idamu ariko aya mazi akaba adafite ubuziranenge buhagije kuko ayo mazi ari ahantu hahurira imyanda myinshi iba yagiye ituruka ahantu hatandukanye.

Umumama uri gusukura intoki ze yifashishije amazi meza ku gikoresho cyabugenewe kizwi nka kandagira ukarabe kikaba ari igikoresho gishyirwa imbere y'ubwiherero, imbere y'aho barira ndetse n'ahandi.

Hamwe n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku iterambere ry'umwana ndetse no kureberera uburenganzira bwe, ni byiza gutoza abana bacu kwigirira isuku cyane cyane iy'intoki.

Abaturage bateraniye hamwe ku iriba ry'amazi aho bagiye gushaka amazi bitwaje ibikoresho bitandukanye harimo abafite amajerekani, abafite amabasi, abafite indobo ndetse n'ibindi.

Igwingira ni imwe mu ndwara zifata abana bakiri bato bakaba badakura neza, iri ni ihuriro ry'abantu batandukanye baturutse hirya no hino ku isi kugira ngo bige ku kibazo cy'igwingira kandi barirandure burundu.

Umukobwa, iruhande rwe hicaye umwana mutoya, akaba ari kuvoma amazi atemba hifashishijwe ikivovo cy'insina, kugira ngo abone uko ajya mu njerekani. Biragaragara ko aya mazi adafite isuku ihagije.

Uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abana b'abangavu. Ni byiza gutoza abana bacu kwirinda inzira zose bahuriramo n'ibishuko, bakaba batwara inda zitateganyijwe.

Abaturage bo mu ngeri zitandukanye, harimo abakuze, abana bato ndetse n'urubyiruko, aho batonze umurongo kwa muganga bategereje guhabwa serivisi z'ubuzima, ni byiza gushishikariza abaturage kwirinda ndetse no kwivuza indwara bahura nazo.

Abana bato babiri aho bagiye kuvoma amazi ku cyuma kizana amazi kiyakuye mu butaka hifashishijwe imbaraga z'umwuka aho kugira ngo amazi azamuke umuntu apika kuri icyo cyuma.

Ababyeyi bafite abana b'ikigero gitandukanye, aho bahuriye ku bigo nderabuzima kugira ngo bakingize abana babo indwara zitandukanye bikurikiranye n'imyaka barimo, aho bahabwa inkingo z'indwara nk'iseru ndetse n'izindi ndwara.

Imbangukiragutabara, imodoka yifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuzima cyane cyane kugeza abarwayi kwa muganga mu buryo bwihuse, abatabashije kugerayo ndetse n'ababyeyi bari hafi kubyara.

Yunisefu umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurengera uburenganzira bw'umwana, aho ariho hose ku isi ndetse no guharanira ko umwana abaho mu mutuzo no mu mutekano, abona ibyo akeneye mu buzima bwe bwa buri munsi.

Abaganga bo mu nzego z'ubuzima zigiye zitandukanye aho bari bahuriye hamwe mu bukangurambaga bugamije kwigisha abaturage kwisuzumisha indwara zitandura hakiri kare mu gace ka nyabageni.

Ababyeyi mu gikorwa cyo gukingiza abana babo indwara zigiye zitandukanye bitewe n'imyaka bafite. Ni byiza natwe ababyeyi gukangurira abandi babyeyi bagenzi bacu gukingiza abana babo kugira ngo bibarinde indwara.

Umugabo n'umugore aho bahuriye ku ivomo kugira ngo bavome amazi meza, gukoresha amazi meza ni imwe mu nkingi yadufasha kugera ku iterambere rirambye ndetse no kwirinda indwara zitandukanye.

Abaganga bari gutanga serivisi zo gukingira indwara cyane cyane iziterwa na virusi zigiye zitandukanye, urugero nka kovide cumi n'icyenda. Ni byiza kwikingiza ndetse no kubahiriza amabwiriza ya Leta yo gufata inkingo kugira ngo twirinde indwara turinde n'ubuzima bwacu.

Uburyo bwiza kandi bugezweho bworohereza abana kubona amazi meza yo kunywa, ku bigo by'amashuri bigaho, ubu buryo ni bwiza kuko amazi ashyirwa mu gikoresho cyabugenewe, gikoze neza kandi gifite isuku kugira ngo abana babone amazi yo kunywa kandi akeye.

Abana biga mu mashuri abanza aho bari kuva cyangwa bari kujya ku masomo ku bigo bigaho ndetse n'umwana uri kuvoma amazi ku isoko yabugenewe akaba ari kubifashwamo n'undi mugenzi we.

Abanyabuzima begerejwe abaturage aho bari bari gusobanurira umubyeyi uburyo bw'imikurire y'abana ndetse n'itandukaniro riri hagati y'imikurire y'umwana w'umukobwa ndetse n'umwana w'umuhungu ndetse no kubaha serivisi zo kubapima ibiro.

Umubyeyi uri gukingiza umwana we, uyu mwana akaba agejeje igihe cyo guhabwa urukingo bitewe n'imyaka afite, ni byiza gukurikiza amabwiriza yo kwa muganga tugakingiza abana bacu indwara zigiye zitandukanye.

Abaturage bahuriye aho bavomera kugirango bavome amazi yo gukoresha mu ngo, ni amazi babona bishyuye igiceri cya makumyabiri gusa cy'amafaranga y'u Rwanda ku ijerekani imwe.

Abana batoya bari guhabwa amata ku bufatanye n'ingabo z'igihugu ndetse n'abandi bakozi ba leta bagiye batandukanye, mu bikorwa bigamije kurwanya igwingira mu bana batoya kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ubukangurambaga mu gace ka Nyabageni bugamije gushishikariza abaturage kwisuzumisha indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane indwara zitandura harimo nk'umuvuduko w'amaraso, diyabete ndetse n'izindi.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ikigo bigaho, aho bari kwimakaza umuco w'isuku, cyane cyane gukaraba intoki, hifashishijwe amazi meza kugira ngo barusheho kwirinda indwara zitandukanye.

Amazi ni ubuzima, uyu mwana aragereranya amazi meza ndetse n'amazi mabi, biragaragara ko harimo itandukaniro tubonesha amaso, gukoresha amazi meza ni byiza mu buzima bwa buri munsi, kuko biturinda gukwirakwiza indwara zandura hagati yacu.

Abaturage bateraniye hamwe kugira ngo basobanurirwe ibijyanye n'ubuzima ndetse n'indwara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye n'umukozi ubifitiye ububasha kandi wabihuguriwe ndetse akanabyigira.

Kandagira ukarabe igikoresho cyifashishwa mu gusukura intoki cyane cyane kigashyirwa imbere y'ubwiherero ndetse n'imbere y'amaresitora ahatangirwa amafunguro.

Gukoresha amazi meza mu mirimo itandukanye yacu ya buri munsi, ni imwe mu nkingi ya mwamba idufasha kugera ku buzima bwiza, ni byiza gukoresha amazi nk'uko tubibona uyu mwana arimo aravoma amazi meza kandi afite isuku.

Umukozi ubifitiye ububasha, akaba ari gupima umuriro, hifashishijwe akuma kagezweho ndetse akaba yambaye agapfukamunwa kugira ngo yirinde indwara zitandukanye zakwandurira mu buhumekero.

Abayobozi bo mu nzego z'ibanze batandukanye aho bahuriye mu nama kugira ngo bige ku cyateza imbere iterambere ry'umuturage ndetse n'ibibazo bigiye byugarije utugari bakoreramo ndetse n'uburyo byakemurwa .

Iyi ni gahunda ya leta yo kurwanya igwingira mu bana batoya cyane cyane abari munsi y'imyaka itanu aho higishwa ababyeyi babo uburyo bwiza bwo gutegura indyo yuzuye, hibandwa ku isuku ndetse no kugaburira neza abana babo kugira ngo babarinde igwingira ndetse bafashe n'igihugu muri rusange.

Kugeza amazi asukuye ku baturage ni imwe mu nkingi zidufasha kwirinda ndetse no kurinda abandi kwanduzanya indwara zandura, harimo diyare, macinya ndetse n'izindi. Ni byiza gukoresha amazi asukuye mu byo dukora byose mu buzima bwa buri munsi.

Umwana uri gukaraba intoki akoresheje amazi meza ndetse n'isabune, ni byiza gutoza abana bacu umuco w'isuku cyane cyane bakiri bato kuko babikurana kugeza no mu busaza bwabo.

Abana bari gukaraba amazi kugira ngo basukure intoki zabo, kimwe mu bikorwa byiza cyane kuko bibafasha kwirinda indwara zigiye zitandukanye cyane cyane iziterwa n'umwanda.

Ababyeyi bafite abana bo mu kigero cy'imyaka itandukanye, cyane cyane abujuje imyaka yo gufata inkingo ku ndwara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye, aho bahuriye mu gikorwa cyo gukingiza abana babo.

Umuryango mpuzamahanga wita ku buzima ndetse ukanatanga ubufasha mu bijyanye n'ikoreshwa ry'imiti ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru ku ndwara zitandukanye n'uko zakwirindwa.

Minisitiri w'ubuzima nsanzimana sab aho yari yishimiye guhura n'umuyobozi mugenzi we bishimira intambwe yagezweho n'igihugu cy'u rwanda mu kurwanya icyorezo cyari cyateye kizwi ku izina rya mabag.

Abantu bateraniye hamwe bo mu ngeri zigiye zitandukanye kugira ngo bige ku bibazo bigiye bitandukanye, mu mishinga imwe n'imwe ifitiye Igihugu akamaro, imishinga ikaba igamije guteza imbere umuturage.

Abaturage bahuriye hamwe ku ivomo rusange ryifashisha imbaraga z'umwuka kugira ngo rizamure amazi ku butaka, aho kugira ngo umuntu avome abanza gukora icyo bita gupika. Aba baturage bahuye kugira ngo basobanurirwe uburyo bwiza bwo gukoresha iki cyuma.

Abanyamuryango b'ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku nkomere ndetse no gutanga ubufasha butandukanye mu by'ubuzima, cyane cyane ubutabazi bw'ibanze aho bari bahuriye hamwe kugira ngo bahabwe amahugurwa yo kwita ku bibazo bimwe na bimwe abantu bagenda bahura nabo harimo nk'ihungabana ndetse n'ibindi.

Ababyeyi ndetse n'abayobozi batandukanye aho bagiye gusura abana batoya biga mu kiburamwaka aba bana bakaba bari kugaragaza bumwe mu bumenyi bakura ku kigo bigaho kandi biragaragara ko bishimye.

Abaturage bahuriye ku ivomo ryifashishwa mu kuzamura amazi mu butaka hakoreshejwe imbaraga z'umwuka, aho uvoma apika kugira ngo amazi abashe kuzamuka mu butaka.

Itsinda ry'abakozi ba leta mu ngeri zitandukanye aho bahuriye hamwe kugira ngo baganire ku mishinga imwe n'imwe igiye ifitiye igihugu akamaro, ndetse n'uko barushaho kuzamura iterambere ry'umuturage.

Ivomero ry'amazi meza ryegerejwe abaturage, kugira ngo babashe kubona no gukoresha amazi meza biboroheye kandi bitabasabye gukora ingendo za kure kandi zivunanye.

Abaturage b'ingeri zitandukanye bahuriye ku ivomo rusange kugira babashe kubona amazi meza kandi asukuye. Iyi ni gahunda yo kwegereza abaturage amazi meza mu buryo bwihuse kandi vuba.

Abamama bari kuvoma amazi bayakura mu butaka bifashishije igikoresho kizwi ku izina rya rupika, aho upika cyangwa ushyira imbaraga kuri icyo gikoresho amazi akaba yabasha kuzamuka mu butaka.

Abana bishimiye iyegerezwa ry'amazi mu duce batuyemo, cyane cyane ko bibarinda gukora ingendo za kure bajya kuzana amazi ndetse bikanabarinda indwara zimwe na zimwe ziterwa no kunywa amazi adasukuye.

Ihuriro ry'abafatanyabikorwa batandukanye mu muryango wa afurika yunze ubumwe, kugira ngo barebere hamwe uburyo bwo guhashya icyorezo kizwi ku izina rya mabaga virusi cyugarije umugabane wa afurika.

Ishusho yafashwe n'ibyuma bya gihanga, igaragaza ubwoko bwa virusi runaka kugira ngo barusheho kwiga uburyo ikura ndetse n'uburyo hakorwa imiti cyangwa inkingo zo kuyirinda.

Gukingiza abana cyane cyane abujuje imyaka yo guhabwa inkingo zitandukanye ku ndwara zimwe na zimwe, ni ingenzi cyane mu buzima bwabo bwa buri munsi kuko bibarinda kuzandura izo ndwara ndetse no kubazahaza mu gihe bafashwe nazo.

Amazi meza, isuku n'isukura mu Rwanda. Ubukangurambaga bushinzwe kurebera hamwe uko amazi meza agera ku baturage, ndetse n'uburyo bayakoresha mu bikorwa by'isuku n'isukura haba ku mubiri, ndetse no mu bikoresho bakoresha rimwe na rimwe ku munsi.

Umumama uri kuvoma amazi mu njerekani, hifashishijwe amariba yegerejwe abaturage, kugira ngo babone amazi meza kandi asukuye, bityo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza.

Abadamu bahuriye ku cyuma gipika amazi, kigakoresha umwuka kugira ngo kizamure aya mazi mu nda y'isi, ndetse n'umumama uri kwifashisha indobo kugira ngo avome ayo mazi.

Ihuriro ry'abaturage bo mu ngeri zitandukanye aho bahuriye mu murenge wa nyabageni, kugira ngo bisuzumishe indwara cyane cyane indwara zitandura harimo diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Ubuvuzi bwegerejwe abaturage, aho abaganga bo mu nzego zigiye zitandukanye, begera abaturage, bakabasuzuma ku ndwara zandura ndetse n'izitandura, harimo nka Diyabete umuvuduko w'amaraso, SIDA ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Ikiganiro hamwe na minisitiri w'ubuzima ku buryo bwo kongera ibikomoka mu gihugu ariko biteza imbere ubuzima. Ni ikiganiro cyahuriyemo abantu bagiye batandukanye bakomoka mu bihugu, kugira ngo harebere hamwe uburyo ubuvuzi bwatera imbere.

Abana batoya cyane bahuriye ku ivomo rusange aho bari gufashwa n'umukobwa mukuru gupika amazi kugira ngo babashe kuvoma mu tujerekani twabo.

Umwana uri kuvoma amazi mu gikombe, biragaragara ko afite ibyishimo kuko kubona amazi akeye kandi meza ni byiza mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko bituma tugira ubuzima bwiza tukanirinda n'indwara.

Abaturage bahuriye mu bukangurambaga bwakozwe mu gace ka Nyabageni, bugamije gushishikariza abaturage kwisuzumisha indwara, cyane cyane izitandura, nk'umuvuduko w'amaraso ndetse na diyabete.

Abana bari ku isoko izana amazi iyakuye mu butaka. Iyi soko uburyo ikura amazi mu butaka, ikoresha imbaraga z'umwuka, aho umuntu amanura icyuma gutyo, kikamanura umwuka mu ihombo, yazamura, kikazamura amazi.

Aha ni ku kigo nderabuzima cya Mayange aho abajyanama b'ubuzima bahurijwe hamwe, kugira ngo baganire n'umuyobozi ndetse bungurane inama zo guteza ubuzima bw'abaturage imbere ndetse no kubarinda indwara.

Abana babiri bari kuvoma amazi meza bifashishije indobo. Gukoresha amazi meza ni ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko biturinda indwara zandura cyane cyane iziterwa n'umwanda.

Umwana uri kuvoma amazi yifashishije akabido gatoya, biragaragara ko aya mazi atari meza kuko bisa nk'aho ari mu kiyaga, cyangwa mu ikusanyirizo ry'amazi.

Gira ubuzima bwiza hamwe na poste de sante zegerejwe abaturage, kugira ngo bagabanye ibibazo bimwe na bimwe abaturage bagendaga bagira byo kuba badatuye hafi y'amavuriro, harimo nk'abagore babyarira mu nda, abarembera mu ngo ndetse n'ibindi bibazo.

Ivomo rusange ryegerejwe abaturage kugira ngo babashe kubona amazi meza bityo barusheho kwirinda indwara. Aya mazi umuntu ayabona atanze igiceri cya makumyabiri gusa kandi bitamusabye kujya kure.

Abana bari ku ivomo ryifashisha umwuka ndetse n'imbaraga z'umuntu upika kugira ngo ribe ryazamura amazi mu butaka. Ni imwe muri serivisi zifasha abaturage kubona amazi meza kugira ngo barusheho kwimakaza umuco wo kuyakoresha.

Abajyanama b'ubuzima aho bahuriye hamwe kugira ngo bahabwe amahugurwa y'uburyo bwo kwita ku baturage neza, ndetse no kuvura indwara zimwe na zimwe ndetse n'uburyo bw'imikoreshereze y'imiti neza bahabwa kugira ngo ifashe abaturage.

Umwana muto uteze ibiganza aho bavomera amazi kugira ngo anywe amazi kubera inyota afite, ni byiza kunywa amazi ariko nanone tukazirikana kunywa amazi afite isuku.

Ababyeyi bafite abana b'imyaka itandukanye cyane cyane abagejeje imyaka yo guterwa inkingo runaka, aho bahurira ku bigo nderabuzima byabugenewe bagakingiza abana babo kugira ngo bibarinde indwara zazabafata mu gihe kizaza.

Abana bo mu kigero gitandukanye bahuriye hamwe, bajya kuvoma amazi hakoreshejwe icyuma kiyazamura ku butaka, kizwi nka rupika. Ni mazi aza asukuye kandi meza, aturuka hasi mu butaka.

Umuturage uri gufata urukingo rw'icyorezo runaka, birashoboka ko ari urukingo rwa Covid cyangwa indi ndwara yose yaba yarateye mu gihugu. Ni byiza guharanira kwikingiza kugira ngo twirinde indwara.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri, aho bari kuvoma amazi ku masoko yabugenewe yegerejwe abaturage, ni byiza kwegereza abaturage amazi kuko bituma bimakaza umuco w'isuku.

Abajyanama b'ubuzima bakorera mu duce dutandukanye aho bahuriye ku kigo nderabuzima cya Mayange kugira ngo bongere guhugurwa ku buryo bwo kwita ku barwayi cyane cyane ko ari bo bibegereye kuruta abaganga, bakaba bahuguwe n'inzobere zitandukanye zo mu bihugu byo hirya no hino ku Isi.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye bafatanyije na polisi y'igihugu, aho bari gukora ubukangurambaga ku buryo bwo kugaburira abana indyo yuzuye, cyane cyane nko kubaha ifunguro rya mugitondo, igikoma, ndetse n'ibindi.

Umwana uri gukaraba intoki n'amazi meza, akoresheje igikoresho kizwi ku izina rya kandagira ukarabe, iki gikoresho kikaba gishyirwa cyane cyane imbere y'ubwiherero mu bigo by'amashuri, kugira ngo abana barusheho gutozwa umuco wo kwimakaza isuku.

Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura, kanseri y'inkondo y'umura ni imwe muri kanseri zifata abana b'abakobwa, ariko ni byiza gufata urukingo rwayo kugirango utandura.

WASAC ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi meza mu baturage ndetse no kwita ku mikoreshereze myiza no kwishyuza amazi mu gihugu ndetse no mu bigo bya leta bitandukanye.

Icyuma cyifashishwa mu kuzamura amazi mu butaka hakoreshejwe uburyo bw'umwuka, kizwi ku izina rya rupika. Ni kimwe mu bikoresho byifashishwa n'abaturage, cyane cyane mu duce hataragera amazi, kugira ngo babone amazi mu buryo buboroheye.

Umunyeshuri uri gukaraba intoki n'amazi meza. Ni byiza ko twese twimakaza umuco wo gukaraba intoki, igihe tugiye ku meza ndetse n'igihe tuvuye mu bwiherero kugira ngo twirinde indwara.

Ihuriro ry'abayobozi batandukanye mu nzego z'ubuzima, aho bateraniye hamwe kugira ngo bige ku bibazo bimwe na bimwe, bituma ubuzima butagenda neza mu baturage, harimo nk'indwara zitandukanye ndetse n'ibindi.

Imiryango itandukanye mpuzamahanga, ikora ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo nk'iyita ku bana, umuryango ushinzwe kurengera ubuzima, umuryango ushinzwe gukwirakwiza amazi meza ku bantu bose ndetse n'iyindi.

Abakozi b'ibigo bigiye bitandukanye, aho bahuriye hamwe kugira ngo bige ku kibazo cy'igwingira ndetse n'uburyo bwo kurihashya, harimo kwita ku buzima bw'umubyeyi utwite ndetse n'ubuzima bw'umubyeyi wotsa umwana, ndetse n'umwana ukiri muto baharanira ko arya indyo yuzuye.

Ubufasha bwegerejwe abaturage kugira ngo babashe kuba baganirizwa, bavuge kw'ihohoterwa bakorerwa rishobora kuba ribangiza ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Gutyo kugira ngo babashe kuba bafashwa.

Ntabwo umuntu ahabwa ubuvuzi kuko hari byacitse yabaye, ushobora guhabwa ubuvuzi kugira ngo wisobanukirwe, cyangwa usobanukirwe ahahise hawe, kandi ushobora guhabwa ubuvuzi kugira ngo uhabwe ubufasha mu byo gufata imyanzuro ikakaye.

Wihogora ikigo gishinzwe ubuzima bwo mu mutwe. Ubuzima bwo mu mutwe ni ingenzi cyane kuko ari bimwe mu bidufasha kugera ku iterambere rirambye ndetse no kubaho neza.

Abaturage bahuriye hamwe muri gahunda yo kwisuzumisha, ku bushake kandi ku buntu indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane indwara zitandura nka diyabete, umuvuduko w'amaraso, isukari ndetse n'izindi.

Itsinda ry'abantu bahuriye hamwe kugira ngo bigishwe cyangwa basobanurirwe ku buryo bwiza bwo kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe wirinda icyabuhungabanya kuko umutwe udakora neza utagera ku iterambere rikwiye.

Umunsi wahariwe ubuzima bwo mu mutwe. Ni umunsi uba mu kwa Cumi ku itariki icumi buri mwaka, aho ku Isi ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abantu bahurira hamwe, kugira ngo bibukiranye uburyo bwiza bwo kubungabunga ubuzima bwabo bwo mu mutwe.

Abamama bane ndetse n'umusore umwe, aho bicaye ku tutebe basa n'abaganira ku ngingo zimwe na zimwe, cyane cyane izibateza imbere ndetse n'uburyo bwo kubungabunga ubuzima bw'imitekerereze yo mu mutwe.

Umuryango w'abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe mu Rwanda. Ni umuryango uhuriweho n'abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, kugira ngo bateze imbere ibijyanye n'uyu mwuga ndetse bafashe n'abaturage gusobanukirwa uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe.

Buri wese afite uburenganzira bwo kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Cyane cyane harimo uburenganzira bwo kurindwa icyakwangiza ubuzima bw'umuntu bwo mu mutwe, ndetse n'izindi nkomyi zose zabitera.

Umusore uri guseka, guseka ni byiza ku buzima bwacu, kuko ngo guseka byongera iminsi yo kubaho, ni byiza gushaka ibituma twishima tugaseka, kugirango turusheho kubaho neza.

Igishushanyo kigaragaza uko impfu zituruka ku kwiyahura zagiye zigabanuka mu gihugu cy'u Rwanda uhereye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri ukazamuka ukageza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani.

Urubuga rwitwa werinesi urubuga rutanga serivisi z'ibijyanye n'ubuzima ndetse n'ubufasha bw'uko umuntu yamera neza ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'izindi serivisi zitandukanye.

Ababyeyi bafite abana b'impinja, aho bari kuganirizwa n'umukozi wabihuguriye, ku buryo bwiza bwo kwita ku bana babo, kugira ngo bakure neza kandi bakure n'ubwenge babe banashyitse.

Umumama warakaye, wazinze umunya ndetse n'iminkanyari iri kugaragara mu maso. Biragaragara ko ashobora kuba ababaye cyangwa afite umujinya ukabije.

Ibitaro by'Akarere ka Nyaruguru biherereye ku Munini, ni ibitaro byatashywe ku itari enye z'ukwa karindwi, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, bikaba byaruzuye bitwaye amafaranga asaga miliyoni cumi n'enye n'igice, z'amadolari y'Amanyamerika.

Akamaro k'umuryango nyarwanda dutuyemo mu kurengera ndetse no kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, iyo dushyize hamwe nk'umuryango nyarwanda tubasha gufasha ndetse no gufashanya bityo tukiririnda abashobora kugira ibibazo byo mu mutwe no gufasha abasanzwe babifite.

Ibitaro bya Kacyiru aho ruhuriye abantu bo mu ngeri zitandukanye baturuka mu bihugu hirya no hino muri Afurika kugira barusheho guteza imbere ubuvuzi ndetse n'ubujyanama mu by'ubuzima bwo mu mutwe.

Abamama bane ndetse n'umusore umwe, aho bicaye ku ntebe z'imbaho, kugira ngo baganire ku ngingo zigiye zitandukanye, bigaragara ko bameze nk'abari mu itsinda cyangwa ikimina.

Ihuriro ry'abantu batandukanye cyane cyane biganjemo urubyiruko, aho bahuriye hamwe kugira ngo bige ku buzima bwo mu mutwe ndetse no kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe ndetse no gufasha abafite uburwayi bwo mu mutwe.

Ishusho igaragaza igice cy'umubiri w'umuntu kizwi nk'ubwonko, ubwonko ni igice cy'umubiri w'umuntu gishinzwe guhanahana amakuru n'ibindi bice ndetse kikanabihuza kugira ngo umubiri w'umuntu ubashe gukora neza.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi bahuriye mu kintu kibahuje nk'umuhuro cyangwa inama runaka yiga ku kibazo runaka.

Abana bishimye cyane kubera kwidagadura ndetse no kuruhura mu mutwe cyane cyane mu bihe by'ibiruhuko; kuko bibafasha gutekana mu mutwe bityo bakazasubira ku masomo yabo bakabasha no gutsinda neza.

Abakobwa babiri bigaragara ko umwe ari kuganiriza undi ku kibazo runaka, cyane cyane ko uwambaye imyenda itukura yitangiriye itama nk'ufite ikibazo.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe. Wari ufite insanganyamatsiko igira uti “Hari ibyiringiro nyuma yo guhabwa ubuvuzi ku bijyanye n'indwara yo mu mutwe twese dushyize hamwe”.

Ufite ibibazo byo mu mutwe uzwi ku izina ry'umusazi aho akora ibintu bitandukanye n'ibyo abantu bazima bakora cyane nko kwambara ibintu bisa nabi imyanda ndetse no kutarangwa n'isuku muri rusange.

Umusore urimo urahabwa ubuvuzi bw'amenyo, hifashishijwe ibikoresho byabugenewe. Ni byiza gusuzumisha amenyo yacu, kugira ngo turebe ko nta ndwara na zimwe yaba afite.

Umwana uri guhabwa ubuvuzi bw'amenyo kwa muganga, ni byiza kwita ku menyo y'abana bacu tubashishikariza kuyagirira isuku, kugira ngo tubarinde kuba bagira ibibazo bimwe na bimwe bibajyana kwa muganga.

Umudamu uri gukoresha akagozi kabugenewe, mu gukura imyanda ifata hagati mu menyo, cyane cyane nk'iyo umuntu amaze kurya cyangwa kunywa ibintu runaka, ni byiza kugira isuku y'amenyo, hifashishwa mbene utu dukoresho kugira ngo utwanda dufata mu menyo tudukuremo, bityo twirinde indwara.

Abanyeshuri bishimiye ko bahawe ibikoresho byifashishwa mu isuku y'amenyo, harimo uburoso ndetse n'umuti ufashishwa mu koza mu menyo uzwi ku izina rya korogate, ni byiza gutoza abana kwimakaza umuco w'isuku cyane cyane iyo mu menyo.

Umusore uri kwerekana uko bakoresha akadodo kabugenewe mu gukura imyanda ifata mu menyo, cyane cyane nk'iyo umuntu amaze kurya, kunywa ndetse n'ibindi, ni byiza kugirira isuku y'amenyo, hifashishijwe udukoresho nk'utu ngutu twabugenewe kuko biturinda indwara.

Umukobwa urimo urakorera isuku amenyo ye yifashishije uburoso bwabugenewe ndetse n'umuti wo koza mu menyo. Ni byiza kugirira isuku amenyo yacu, kugira ngo tuyarinde kwangirika nko gucukuka ndetse n'izindi ndwara ziyafata.

Umugabo uri gusukura mu menyo ye akoresheje agakoresho kabugenewe gakura imyanda iba yafashe hagati mu menyo cyane cyane nk'igihe umuntu amaze kurya. Ni byiza gusukura amenyo kugira ngo twirinde uburwayi bwo mu kanwa.

Umusore n'umukobwa bari gusukura amenyo yabo, bifashishije akagozi kabugenewe gakura imyanda yafashe hagati y'amenyo, cyane cyane iyo umuntu amaze kurya cyangwa kunywa ibintu runaka.

Agakoresho kifashishwa mu gukuraho imyanda cyane cyane ifata hagati y'amenyo nyuma yo kurya, ni agakoresho keza cyane kagizwe n'umugozi winjira hagati mu menyo ukaba wakuramo imyanda, ndetse bikakurinda indwara zitandukanye zifata amenyo.

Umupapa ndetse n'umwana aho bari gukoresha akagozi kabugenewe mu gusukura amenyo yabo, aka kagozi kifashishwa mu gukura imyanda hagati y'amenyo, cyane cyane nk'igihe umuntu amaze kurya.

Ni byiza gutoza umwana wawe kwita ku isuku y'amenyo ye, cyane cyane nyuma yo kurya na mbere yo kuryama kuko bimufasha kugira ubuzima bwiza ndetse akirinda no kwangirika amenyo akiri mutoya.

Abaganga bari gusuzuma umwana mutoya indwara zishobora kuba zafata mu kanwa ndetse n'amenyo, ni byiza gusukura mu kanwa kacu kugira ngo twirinde kuba twakwandura izo ndwara zitandukanye.

Ni byiza kwita ku buzima bwo mu kanwa bw'umwana wawe, umusuzumisha ku ndwara zitandukanye zishobora kwibasira mu kanwa, cyane cyane indwara ziterwa n'udukoko dutoya tutaboneshwa amaso, tuzwi ku izina rya mikorobe.

Kugirira isuku amenyo yacu ni kimwe mu bintu biturinda indwara zo mu kanwa ndetse n'izindi ndwara zishobora gufata amenyo. Ahangaha haragaragara umugabo uri gukoresha uburoso bwabugenewe ndetse n'umuti kugira ngo abashe gusukura amenyo ye.

Agakoresho kabugenewe kazwi nka "dento furosi" mu ndimi z'amahanga, ni agakoresho kifashishwa mu gukura imyanda hagati mu menyo nk'igihe umuntu amaze kurya.

Umugabo uri gusukura amenyo ye, yifashishije akagozi kabugenewe. Aka kagozi kakaba kaba katunganyijwe neza mu buryo butuma nta mwanda ubu ukariho. kakifashishwa mu gukura imyanda yafashe hagati mu menyo.

Ishusho yafashwe n'ibyuma bya gihanga byabugenewe, iyi shusho ikaba ari ishusho yo mu isura igaragaza amenyo ndetse n'amagufwa amwe n'amwe yo mu isura. Iyi shusho ikaba yarafashwe n'ibyuma bikoresha urumuri rutaboneshwa n'amaso bizwi nka ekisireyi.

Abaganga b'inzobere mu ndwara zifata mu kanwa aho bari gusuzuma umurwayi ku ndwara zimwe na zimwe zibasira mu kanwa ndetse n'uburwayi bw'amenyo kugira ngo babe bamufasha babivure kandi bikire.

Umurwayi uri guhabwa ubufasha mu by'ubuvuzi bwo mu kanwa, aho bari kumuvura amenyo. Ni byiza kwita ku menyo yacu kugira ngo twirinde mwene izi ndwara.

Ishusho yafashwe n'icyuma cyabugenewe kifashisha imirasire itaboneshwa amaso izwi ku izina rya exray mu zindi ndimi z'amahanga, kugira ngo abashe kureba ikibazo umuntu yaba afite. Iyi shusho ikaba ari iyo mu isura.

Umwarimu ndetse n'abanyeshuri be, aho bishimiye guhabwa uburoso, kugira ngo bajye babasha kwita ku buzima bw'amenyo yabo, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, nawe toza abana bawe kwita ku buzima bw'amenyo yabo, kugira ngo bahorane inseko ikeye.

Akagozi kabugenewe, kifashishwa mu gusukura amenyo yacu, ni byiza kugirira isuku amenyo, kuko biturinda indwara zo mu kanwa ndetse no gucukuka kw'amenyo.

Umwana uri gusuzumwa indwara zo mu kanwa ndetse n'indwara zifata amenyo, ni byiza ko dutoza abana bacu, kandi natwe tukabigiramo uruhare mu kugira ngo tubagirire isuku, amenyo yabo, ndetse tunabatoze nabo ubwabo kwigirira isuku kugira ngo bibarinde indwara.

Umwana w'umunyeshuri uri kwigishwa uburyo bwiza bwo gusukura amenyo ye abifashijwemo n'abarimu ndetse n'abandi bayobozi batandukanye, ni byiza gutoza abana bacu gusukura amenyo yabo kugira bibarinde indwara zigiye zitandukanye.

Abanyeshuri cyangwa abaganga bari kwiga ku buryo bwo kuvura amenyo hifashishijwe ikizwi nka maneke, ni uburyo bwo kuyahoma kuyakura cyangwa ubundi buryo bwose bwo kwita ku menyo kugirango ngo atangirika.

Abaganga babiri bari kwita ku buzima bw'umurwayi cyane cyane ubuzima bwo mu kanwa ni byiza kujya kwisuzumisha indwara zo mu kanwa ndetse no kureba uko ubuzima bwacu bwo mu kanwa buhagaze kabone n'iyo twaba tutarwaye.

Girira isuku amenyo yawe hifashishwa udukoresho twabugenewe dukura imyanda yafashe hagati y'amenyo, ibi bituma hatabasha gukura utunyabuzima dutoya dutera indwara bikaguha ubuzima bwiza bwo mu kanwa ndetse n'ubw'amenyo yawe.

Umwana uri kwa muganga, aho ari gusuzumwa indwara zigiye zitandukanye cyane cyane indwara zifata mu kanwa, hakoreshejwe ibikoresho byabugenewe. Izi ndwara zikaba ziterwa n'udukoko dutoya tuzwi nka mikorobe.

Umurwayi uri guhabwa ubuvuzi bw'amenyo aho arimo arakurwamo iryinyo rifite ikibazo hifashishijwe ibikoresho byabugenewe by'ubuvuzi harimo nk'ikinya ndetse n'ibindi bikoresho.

Kwita ku buzima bwo mu kanwa ni ingenzi, cyane gukorera isuku amenyo kuko bituma umuntu agira amenyo meza, ndetse bikanamurinda indwara zimwe na zimwe zifata amenyo ndetse no mu kanwa.

Uku ni ugusukura amenyo hifashishijwe akagozi kabugenewe kandi gatunganyijwe neza kugira ngo gakure imyanda hagati y'amenyo, cyane cyane ikunze gufatamo igihe umuntu amaze kurya cyangwa iba imazemo igihe kinini.

Ibyuma bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi mu gutanga serivisi zimwe na zimwe, harimo ibyuma byifashishwa mu kubaga, ibyuma byifashishwa mu gukura amenyo ndetse n'ibindi byuma bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Umusore uri gusukura amenyo akoresheje akagozi kabugenewe, aka kagozi kakaba gakuramo imyanda ifata hagati y'amenyo cyane cyane nk'iyo umuntu amaze kurya.

Ubufasha buri guhabwa abaturage batishoboye, aho bari kwakira ibikoresho bigiye bitandukanye, higanjemo ibiryamirwa nk'ibiringiti, amashuka yo gusasa ku buriri.

Umuforomokazi urimo urafasha umumama ugeze mu zabukuru kunywa imiti y'indwara afite, ni byiza ko abantu bageze mu za bukuru babona ababitaho.

Aho abageze mu zabukuru bashyirwa kugira ngo babashe kwitabwaho n'ababihuguriye bityo ubuzima bwabo bube bubungabunzwe kandi butekanye, ndetse babashe no kubarinda indwara zimwe na zimwe.

Umusaza ugeze mu zabukuru, aho ari gufashwa n'umuforomo wabihuguriwe kugira ngo abashe kugenda, hifashishijwe icyuma cyabugenewe, iki cyuma kikaba cyifashishwa mu gutuma abantu bafite imitsi yahinamiranye igororoka.

Umuforomokazi uri kwita ku mubyeyi ugeze mu zabukuru, aho ari kumufasha ku ndwara agiye afite, akabasha kumwitaho, akamenya ko yafashe imiti ku gihe ndetse ko yanaruhutse bihagije.

Umuryango ushyize hamwe kandi wishimye, biragaragara ko uyu muryango uhuje urugwiro, harimo abageze mu zabukuru ndetse n'abandi bakiri bato ariko bose bari kugaragaza ibyishimo.

Ababyeyi ndetse n'abana batoya bari hamwe ubona ko ababyeyi bishimye bizihiwe ndetse bari kuganira, umubyeyi umwe muri bo arimo araboha icyibo yifashishije nk'ibimera gakondo.

Ni byiza kwita ku bageze mu za bukuru, kuko bakunda kugira ibibazo bimwe na bimwe bitandukanye, cyane cyane bitewe n'imyaka baba bagezemo, harimo nk'indwara zibasira amagufwa, bikabaca intege zo kuba bagenda, ni byiza kubitaho cyane.

Umusaza ugeze mu zabukuru uteruye akuzukuru ke, aho yakishimiye kandi bigaragara ko bahuje urugwiro, ni byiza kubonera abana bacu umwanya bakaganira ndetse bagakina na ba nyirakuru ndetse na ba sogokuru babo.

Abakecuru bageze mu zabukuru, aho bambaye imyenda gakondo izwi ku izina ry'imikenyero, igaragaza umuco w'u Rwanda, bakaba banishingikirije inkoni kugira ngo babashe kugenda.

Kwita ku bageze mu za bukuru ukabahitiramo ibibakwiriye cyane cyane byiganjemo indyo irimo intungamubiri bakeneye, ni byiza kwita ku bageze mu za bukuru kugira ngo bagumane ubuzima bwiza.

Umuntu ugeze mu zabukuru uri gukora siporo ngororamubiri, ni byiza gushishikariza ndetse no gufasha abageze mu za bukuru kugira ngo na bo bakore siporo, kuko birushaho gutuma ubuzima bwabo buba bwiza.

Umuganga uri kwita ku murwayi amuha ubuvuzi bw'ubugororangingo hifashishijwe ibyuma byabugenewe umuntu yishingikiriza kugira ngo abashe gutambuka ndetse arebe ko amagufwa ye akomeye.

Abamama bahuriye hamwe bakora ubucuruzi bw'ibijyanye n'imboga n'imbuto, harimo inyanya, ibitunguru ,amashu, amacunga ndetse n'izindi mbuto ndetse n'imboga zitandukanye.

Umukobwa cyangwa se umumama uri gukora siporo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zituruka ku kudakora siporo, nk'umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Kwita ku buzima bw'abakuze cyane cyane bafashwa mu kwisuzumisha indwara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye, ariko higanjemo indwara zitandura nk'umuvuduko, Diyabete, kanseri ndetse n'izindi.

Umukobwa uri gusunika umusaza ugeze mu zabukuru mu kagare, bigaragara ko uno musaza ashobora kuba afite ibibazo bymagufwa akaba atabasha kugenda n'amaguru, ni byiza ko abageze mu zabukuru bafite ibibazo nk'ibi babona abantu babafasha.

Umupapa ndetse n'umwana aho bari gukina umukino uzwi ku izina rya basiketi, biragaragara ko bishimye kandi ni ingenzi cyane kubonera umwana, umwanya mukabasha gukina kuko ari byiza mu mikurire ye.

Umumama ugeze mu za bukuru aho ari gufata imiti y'indwara zigiya zitandukanye cyane ko abantu bageze muri iyi myaka bakunda kwibasirwa n'indwara zigiye zitandukanye cyane cyane higanjemo izidakira nka diyabete, umuvuduko ndetse n'ibindi.

Umukobwa w'umuforomokazi uri gufasha umusaza ugeze mu za bukuru, amusuzuma indwara y'umuvuduko w'amaraso. Ni byiza gufasha abageze mu za bukuru kwisuzumisha indwara, cyane cyane izi ngizi zitandura.

Kwita ku buzima bw'abakuze ni byiza cyane kandi ni n'ingirakamaro, kuko bibafasha gusaza neza, bagasaza bishimye, cyane cyane ko iyo umuntu akuze aba ameze nk'usubiye ibwana, ni byiza ko abona umuntu wongera kumwitaho ndetse no kumubungabunga.

Abageze mu zabukuru aho bari gufata imiti igiye itandukanye ku ndwara zabo zigiye zigiye zitandukanye, izi ndwara ni byiza kuzitaho kugira ngo babashe kubaho igihe kinini.

Umugabo w'igikara ndetse n'umugore w'inzobe. Biragaragara ko bose bageze mu za bukuru, ariko bari gukora siporo kugira ngo bagumane ubuzima bwiza. Ubuzima buzira umuze n'intego yacu twese, bityo kugirango tubugire, ni byiza gukora siporo.

Umuganga w'umusore uri kwita ku bageze mu zabukuru, ni byiza kwita ku bageze mu zabukuru, cyane cyane tubashakira ahantu bahurira kugira ngo baganire birusheho gutuma ubuzima bwabo bumera neza.

Umuryango wishimye wahuriye hamwe kugirango ubashe kuganira, aho abana bahuye na nyirakuru ndetse abandi bagahura na ba mama wabo kugirango baganire.

Abageze mu zabukuru, aho bari gukina umukino uzwi ku izina ry'amakarita, biragaragara ko bishimye kandi ni byiza ko abageze mu zabukuru babona ibibashimisha.

Umukobwa uri gufasha umubyeyi ugeze mu zabukuru, ni byiza gufasha abageze mu zabukuru kugira ngo barusheho gusazanya ubuzima buzira umuze, tubafasha kwirinda indwara zigiye zitandukanye ndetse no kwisuzumisha indwara zitandura.

Inama ya kabiri yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, ikaba ari inama yahuzaga abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo bigire hamwe uburyo bwo guteza imbere ubuvuzi bw'abaturage muri Afurika.

Ubukangurambaga mu gushishikariza abagore ndetse n'abana b'abakobwa ko bashobora gukuraho umutwaro w'indwara ifata inkondo y'umura kandi ko iyo ndwara ishobora kwirindwa, ufata inkingo ku gihe ndetse no gukora imibonano mpuzabitsina ikingiye.

Abaganga bambaye mu buryo bwabugenewe, aho birinze ibice byose by'umubiri kugira ngo batagira aho bahurira n'icyorezo runaka, cyangwa n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Ubukangurambaga bw'ikigo cyo ku isi gishinzwe kureberera inyungu z'ubuzima ndetse n'ikigo gishinzwe kwita ku nyungu z'abana, aho ubu bukangurambaga bugamije kuguma kubona ibikoresho ndetse n'ingingo zihagije z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda.

Abana b'abakobwa bahuriye hamwe kugira ngo baganirizwe ku byerekeye ukwezi kwabo ndetse n'ubundi buzima bwabo bw'imyororokere kugira ngo barusheho gusobanukirwa.

Inama mpuzamahanga ku nshuro ya makumyabiri, ivuga kuri Sida ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina muri Afurika, iyi ndwara ikaba yari igamije kuganirirwaho uburyo bwo guhashya icyorezo cya Sida, ndetse no gushishikariza abaturage, kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

RBC yashinzwe mu mwaka w' ibihumbi bibiri na cumi n' rimwe, ni ikigo cyita ku buzima kikaba gikora ubushakashatsi mu bya siyansi ndetse kigatanga serivisi zita ku buzima ndetse no gushyiraho amabwiriza yarinda igihugu indwara ndetse n'izindi ngaruka zitandukanye z'ubuzima.

Urukingo rw'indwara izwi nka yero feva, indwara iterwa na virusi ikaba yibasira abana ndetse n'abantu bakuru bityo ni byiza gukangurira abaturage gufata uru rukingo cyane cyane abakunda kugenda mu bice iyi ndwara igaragaramo cyane.

Ubukangurambaga ku kurwanya gutwita cyane cyane kw'abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani ndetse no kubigisha mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere n'uburyo bakwirinda gutwara inda zitateganyijwe.

Inama Mpuzamahanga ya makumyabiri na kane, yiga ku buzima ndetse n'indyo iboneye. Iyi nama izaba ku itariki makumyabiri n'enye z'ukwa gatandatu, kugeza ku itariki makumyabiri n'eshanu z'ukwa gatandatu, ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu, ikazaba izabera mu Buhorandi.

Twirinde indwara y'ubushita bw'inke. Iyi ndwara ni mbi cyane kuko yandurira mu matembabuzi, mu gukoranaho, guhumeka mwegeranye ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ni byiza gukurikiza uburyo bwo kuyirinda kugira ngo tuyihashye.

Icyumweru cyahaririye kumenyesha abaturage uburyo bakoresha imiti ivura indwara ziterwa n'udukoko dutoya mu Rwanda, ni ubukangurambaga bukorwa kugira ngo abaturage bamenyeshwe uburyo bwo gukoresha imiti ndetse n'ingaruka mbi zituruka ku kudakoresha imiti neza.

Kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe uburwayi bw'indwara ya sida, mu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Indwara ya sida ni mbi cyane kandi iracyahari, ni byiza kuyirinda.

Urukingo rw'indwara izwi nk'ubushita bw'inkende, ruraboneka none. Ni byiza kwikingiza kugira ngo umuntu adahura n'iyi ndwara, ikaba yamuzahaza.

Ibimenyetso by'indwara yo kugira isukari nyinshi mu mubiri izwi ku izina rya "Diyabete", harimo kumva ufite inyota nyinshi, kumva ushaka kunyara cyane kurusha ibisanzwe, kutabona neza, kumva unaniwe kubura ibiro utabigizemo ubushake.

Gahunda irambye kandi ihamye yo kugwanya igwingira mu bana batoya. Hehe n'igwingira akaba ari yo ntego. Ni gahunda igiye itandukanye, irimo gushishikariza ababyeyi batwite kurya indyo yuzuye ndetse n'abonsa, kurya indyo yuzuye kugira ngo abana babone intungamubiri bakeneye.

abana b'abakobwa bahuriye hamwe kugira ngo baganirizwe ku buzima bw'imyororokere yabo, cyane cyane basobanukirwe ukwezi kwabo ndetse n'igihe baba bari mu burumbuke.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe indwara ya diyabete ku isi hose, fatanya natwe mu gukora ubukangura mbaga, ndetse no gufasha abo ngabo bagizweho ibibazo n'iyi ndwara ya diyabete.

Gufata urukingo rwa Kovide cumi n'icyenda, ni imwe mu nzira zizewe kandi zidafite ikibazo, kugira ngo umuntu yubake ubwirinzi kuri iki cyorezo. Ni byiza gukingiza abana bacu, ndetse no gufata inkingo natwe ubwacu.

Indwara zitandura n'ikibazo cyugarije isi muri rusange kuko izi ndwara zikomeje kwica umubare munini w'abantu, kandi zigoranye kuba zavurwa zigakira burundu izi ndwara harimo umutima, diyabete, kanseri n'izindi.

Abaganga bagiye batandukanye aho bari gufasha abaturage mu kubasuzuma indwara zitandura nk'umuvuduko w'amaraso, isukari mu mubiri kugira ngo barebe ko nta diyabete bafite ndetse n'izindi.

Kwa muganga aho batangira serivisi z'ubuvuzi bw'abagore ndetse na serivisi za kanseri. Aha ngaha higanjemo serivisi zo gusuzuma abagore ibibazo bimwe na bimwe bagenda bagira, haba iby'imyororokere ndetse n'ibindi no kubasuzuma kanseri harimo iy'inkondo y'umura ndetse n'ifata mu ibere.

Abakobwa bahuriye hamwe kugira ngo babashe kwiga ku buzima bw'imyororokere yabo, cyane cyane kurushaho gusobanukirwa ukwezi kwabo, n'igihe bagira mu mihango ndetse n'iminsi baba bari mu burumbuke.

Inyubako itangirwamo ubufasha mu by'ubuvuzi ku bantu bageze mu zabukuru. Abantu bageze mu za bukuru, bakunda kugira ibibazo by'ubuzima bigiye bitandukanye, harimo kurwara indwara za hato na hato ndetse n'ibindi.

Ibyicungo bisize ibara ry'ubururu n'icyatsi, ibi byicungo bishyirwa mu bigo byigisha abana bibiburamwaka cyangwa ahandi hantu hose hagenewe gukinirwa imikino y'abana batoya.

Ibitanda byo kwa muganga, aho abarwayi bafite indwara zitandukanye barwarira. Ni ibitanda bisashe neza kandi bigaragara ko bifite isuku ihagije ikenewe kugira ngo hanirindwe izindi ndwara zishobora kuba zakurwa kwa muganga.

Farumasi itangirwamo serivisi z'ubuzima zitandukanye, aho abarwayi bajya gufatira imiti igihe bayandikiwe n'abaganga batandukanye cyangwa umuntu ufite ikibazo akaba yajya kuhivuriza.

Ahakorerwa siporo zitandukanye, harimo siporo ngororamubiri ndetse n'ubundi bwoko bwa siporo bugiye butandukanye, kugira ngo abantu babashe kugabanya ibinure ndetse banabungabunge ubuzima bwabo binyuze muri siporo.

Icyumba cyo kwa muganga kibikwamo amaraso kugira ngo agumane ubuziranenge kugeza ageze igihe cyo gukoreshwa, tanga amaraso, tanga ubuzima kandi ubeho wishimye.

Isange One Stop Center Remera Rukoma, ikigo gishinzwe gutangirwamo ibibazo cyane cyane ibyibasira abana bato nk'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye.

Ibitaro bya gisirikare biherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe. Ni ibitaro bitangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuzima harimo:nk'ububyaza, kubaga, kwita ku bafite ibibazo byo mu nda, kwigisha abanyeshuri ndetse n'izindi serivisi.

Umuganga uri kwita ku mwana, aho ari kumufata bimwe mu bipimo by'ibanze biherwaho iyo umuntu agiye kwa muganga kwivuza. Ibi ngibi harimo nk'umuvuduko w'amaraso, uko umuntu ahumeka, ibiro ndetse n'ibindi.

Icyuma gikoreshwa kwa muganga kizwi nka Emalayi, ni icyuma cyifashishwa mu kureba indwara zimwe na zimwe zifata mu bice by'umubiri bitaboneshwa amaso nk'ubwonko ndetse no mu mutima n'ahandi.

Aho bakorera siporo ngororamubiri ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo; harimo ibyo kwirukankaho, amagare yo kunyonga ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuzima zigiye zitandukanye, aha ngaha turabona ibitanda abarwayi barwariraho ndetse n'amarido yifashishwa kugira ngo umuganga abone uko avura umurwayi bari bonyine kugira ngo amakuru y'umurwayi agume ari ibanga.

Irembo ku bufatanye n'ikigo k'igihugu gishinzwe kurengera ubuzima, aho bari mu isuzuma ry' indwara zitandura bakaba bari gusuzuma umugabo indwara y'umuvuduko w'amaraso.

Aho batangira serivisi z'ubuzima zitandukanye cyane cyane harimo serivisi yo guca mu cyuma kugira ngo barebe ikibazo cyaba kiri mu mubiri mu imbere nko mu bwonko mu magufwa ndetse n'ahandi.

Ibitaro bya Ruhengeri. Ni ibitaro biherereye mu karere ka Musanze, aho bitangirwamo serivise zigiye zitandukanye z'ubuvuzi cyane cyane kwita ku barwayi bafite ibibazo bitandukanye.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima, iki cyumba kikaba ari icyumba gifashirizwamo abarwayi ku buryo bukomeye cyane bazwi nk'indembe, aho bafashwa mu buryo butandukanye harimo uburyo bwo guhumeka, uburyo bwo kubona ibibatunga ndetse n'ibindi.

Farumasi yitwa Peniel yanditse kuri Murekatete Denyse, ni ho batangira imiti igiye itandukanye cyane cyane iyo abarwayi bayandikiwe na muganga.

Ahakorerwa siporo zigiye zitandukanye cyane cyane siporo zirimo guterura ibyuma, kwirukanka, kunyonga amagare ndetse n'izindi siporo zishobora gutuma imikaya ikomera.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutaka neza mu nzu cyane cyane muri saro ahazwi nko mu ruganiriro, hano hari ameza meza cyane ndetse n'intebe nziza zikozwe mu buryo bwiza, ndetse n'amavaze y'indabo agiye atandukanye.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere, ahatangirwa serivisi z'ubuzima zegerejwe abaturage kugira ngo barinde abaturage kuba bakongera kurembera mu rugo ndetse n'abagore babyarira mu nzira.

Ahatangirwa serivisi z'ubuzima, iki cyumba kikaba cyarahariwe gutangirwamo serivisi, cyane cyane izerekeye izo kubaga indwara zitandukanye, kuko hari kugaragara ubwirinzi ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Sale ikorerwamo inama zigiye zitandukanye, iyi sale ikaba iba iherereye nko mu bigo bikomeye bikoramo abakozi benshi, aho aba bakozi bashobora kuba bahurira, kugira ngo baganire ku buryo bwo kunoza umurimo.

Ahatangirwa serivisi z'ubuzima ariko hakaba hatangirwa cyane cyane imiti, aho abarwayi bandikiwe imiti kwa muganga bashobora kujya kuyifatira bakanishyura.

Ikigo cy'igihugu cyita ku barwayi ba kanseri, cyane cyane kikabafasha mu kwivuza, ndetse no gukurikirana abarwayi ba kanseri uko bangana mu gihugu, ndetse nimba bari no gukurikiranwa mu buvuzi neza.

Kwa muganga aho abarwayi bafite ibibazo bigiye bitandukanye barwariye. Ndetse n'abakozi bashinzwe gukora isuku kugira ngo hirindwe izindi ndwara zakwandurira kwa muganga bitewe n'isuku nkeya.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima ndetse ikaba ari inyubako y'ibitaro bizwi nka Butaro biherereye mu karere ka Burera, aho ari ibitaro bikurikiranirwamo abarwayi bafite indwara ya kanseri.

Imashini ikoresha iterambere rigezweho mu kureba mu bice by'umubiri cyane cyane mu bwonko, ibibazo by'ubuzima bugiye bUtandukanye nk'ibibyimba byo ku bwonko, kanseri ndetse n'izindi.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuzima, iki ni icyumba kifashishwa mu gupima ibizamini bya gihanga, bikoreshwa mu kumenya ko umurwayi afite indwara runaka, cyangwa hari ikitagenda neza mu mubiri.

Ikigo cy'igihugu cyahariwe kwita ku bijyanye no kurwanya ndetse no kurinda no kurengera abafite ibibazo bya kanseri zigiye zitandukanye. Ni ikigo gitanga ubufasha, cyane cyane ku barwayi b'iyi ndwara ya kanseri.

Inzu iruhukiramo ababyeyi iyo bamaze kubyara cyane cyane bavuye ahazwi nko kwiseta, n'inzu ababyeyi bajyamo nyuma yo kubyara kugira ngo bite ku mpinja zabo n'ababasura babone aho babasurira.

Inyubako y'uruganda rwa Biontech, rukora inkingo z'indwara zitandukanye, hifashishijwe ikoranabuhanga ry'uturemangingo ndangasano, ndetse n'irindi koranabuhanga rigezweho ku isi. Uruganda rukaba ruri no kubakwa mu Rwanda.

Umupapa uri kumwe n'akana ke ndetse n'undi mwana ubari imbere, aho bigaragara ko bari kwa muganga, aha ngaha ni mu karere ka Burera, ahatangirwa serivisi zita ku barwayi bafite kanseri, ku bitaro bya Butaro.

Ikigo nderabuzima cya Gisenyi imwe muri serivisi zegerejwe abaturage, kugira ngo abaturage batazongera kurembera mu rugo ahubwo nibagira serivisi z'ubuzima bakenera bajye bazibona kandi bidasabye gukora urugendo runini.

Ikigo nderabuzima cya Kigina, kikaba ari ikigo gitangirwamo serivisi z'ubuzima zigiye zitandukanye, cyane cyane muri gahunda ya Leta yo kwegereza ibigo nderabuzima abaturage kugira ngo batarembera mu rugo.

Inyubako z'ibitaro bitangirwamo ubuvuzi, cyane cyane hibandwa ku buvuzi bwa kanseri, cyane izifata mu ibere, mu nda ndetse n'ahandi hatandukanye ku bice by'umubiri, ibi bitaro bikaba biherereye mu karere ka Burera, bikaba byitwa Butaro.

Inyubako iri kugaragazwa n'ubwiza bw'ubusitani buyiri imbere, iyi nyubako ikaba yubatswe mu buryo bugezweho. Ni inyubako iherereye mu karere ka Burera akaba ari inyubako y'ibitaro bya Butaro.

Umunyeshuri uri gutozwa uburyo bwiza bwo kugirira isuku amenyo abifashijwemo n'umwarimu, ari kumwereka uburyo bwo gufata uburoso kugira ngo ubashe kuborosa amenyo utwanda twose dushiremo.

Inyubako y'uruganda rwiswe Bayoriteke, uru ruganda rukazajya rukora inkingo zitandukanye ku ndwara ndetse n'ibyorezo byibasira abatuye umugabane wa Afurika, uru ruganda rukaba ruherereye mu Rwanda.

Ibikoresho bitandukanye, byifashishwa muri siporo ngororamubiri, harimo ibyo kwirukankaho, ibyo kunyonga ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, gukora siporo ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko biturinda gusaza vuba ndetse n'amaraso akabasha gutembera neza mu mubiri.

Ahatangirwa serivisi z'ubuzima, iki cyumba kikaba cyaragenewe gutangirwamo serivisi zijyanye no kubaga indwara zijye zitandukanye, harimo ibikoresho byose bisabwa ibyo gutamo imyanda, ibikoresho byifashishwa mu bwirinzi kugira ngo umurwayi atahahurira n'izindi ndwara.

Abaganga bari kwita ku barwayi, ariko biragaragara ko aba baganga bambaye ibikoresho by'ubwirinzi ahantu hose ku mubiri. Bisa nkahoho bari kwita ku barwayi bafite icyorezo runaka.

Kwa muganga mu cyumba cy'indembe. Iki cyumba ni icyumba kijyamo abantu bafite ibibazo bakeneye kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko cyane cyane ko usanga ko ari abantu bari muri koma.

Muri farumasi ahatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuzima cyane cyane ubujyanama ku mikoreshereze neza y'imiti, kubona imiti bitagusabye kujya kwa muganga, ndetse n'ubuvuzi butandukanye bw'indwara zoroheje.

Ububiko bw'ibikoresho by'ubuvuzi bigiye bitandukanye cyane cyane ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bwa gihanga, bukoresheje ibimenyetso, harimo ibikoresho byifashishwa mu gufata amaraso ndetse n'ibindi bizamini bigiye bikenerwa mu buvuzi.

Uruganda ruzwi ku izina bayoniteke. Uru ruganda rukaba rwaranubatse ishami ryarwo mu Rwanda. uru ruganda rukaba rukora ibijyanye n'inkingo z'indwara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye ndetse ibikorwa byarwo mu Rwanda bikaba biri hafi gutangira.

Isange wani sitopu senta, aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Abakorewe iri hohoterwa bagana aha ngaha kugira ngo bahabwe ubufasha ubwo aribwo bwose baba bakeneye.

Farumasi itangirwamo imiti y'ubwoko bugiye butandukanye cyane cyane aha ngaha abafite ibibazo bitandukanye by'uburwayi, barahagana bakabasha guhabwa imiti yabafasha kubavura ibyo bibazo.

Inyubako itangirwamo amasomo y'ubuzima cyane cyane iki gice kikaba cyarahariwe kwigirwamo amasomo ajyanye n'ubutabire, aba ni abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuzima, aho bari bari gutandukanya amazi ndetse n'amavuta.

Muri farumasi ahatangirwa serivisi ndetse n'ubujyanama mu by'ubuzima ku bijyanye n'imiti cyane cyane, ndetse ni na ho abarwayi bandikiwe imiti n'abaganga bajya kuyifata.

Inzu y'ababyeyi n'impinja iyi nzu iruhukiramo ababyeyi bamaze kubyara bavuye ku iseta, kugira ngo babone uko bita ku mpinja zabo ndetse n'ababasura babone uko baganira.

Icyapa kigaragaza amerekezo y'uduce tumwe na tumwe dutangirwamo serivisi zigiye zitandukanye mu by'ubuvuzi nko mu bwiherero, aho bakirira indembe, icyumba cya'ababyaye, icyumba cy'abagore, icyumba cy'abagabo, imbagwa, aho bavurira indembe.

Ikigo gikorerwamo ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuvuzi. Ni ikigo gikorerwamo ubushakashatsi bugiye butandukanye, yaba ubugamije kongera imbaraga z'ubuvuzi mu gihugu ndetse n'ahandi ariko mu buvuzi.

Inyubako y'ibitaro ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, ndetse iki cyumba ni icyumba gicumbikirwamo abarwayi bivuza mu buryo buhoraho kandi bakaba bivuza baba kwa muganga.

Ibitaro by'akarere ka Nyanza biherereye mu ntara y'Amajyepfo, muri aka karere, ibi bitaro bitangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuzima, harimo kwita ku barwayi bafite ibibazo bigiye bitandukanye nk'abagore baje kubyazwa ndetse n'abandi.

Ibitaro biherereye mu mujyi wa Kigali bizwi nko kwa Nyirinkwaya, bitanga serivisi z'ubuzima zitandukanye harimo; ubuvuzi bw'amaso, ubuvuzi bw'indwara zo mu nda, ubuvuzi bw'impyiko ndetse na serivisi zo kubaga.

Ibikoresho byo muri za biro ndetse n'ahandi hose hakorerwa imirimo igiye itandukanye, harimo intebe, imeza, imashini ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa.

Ibitaro biherereye mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge, bikaba ari ibitaro by'aka karere, bitangirwamo serivisi z'ubuzima zitandukanye nko kwita ku barwayi ndetse n'izindi.

Ihuriro ry'abageze mu za bukuru aho bahuriye hamwe mu cyumweru cyahariwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa abageze mu za bukuru, kirazira guha akato no guhohotera umukecuru mu buryo ubwo ari bwo bwose.

Ibiro bikuru by'Ikigo cy'Igihugu cyo gutanga amaraso. Gutanga amaraso ni ugutanga ubuzima, ni ugufasha ndetse no kurengera abafite ibibazo byo kubura amaraso kugira ngo barusheho kubaho neza kandi igihe kirambye.

Icyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi zo kubaga cyane cyane nko gusiramura, ububyaza, kubaga utubyimba tumwe na tumwe tugenda dufata mu bice bitandukanye by'umubiri, ndetse n'izindi serivisi zo kubaga.

Materinete, inzu y'ababyeyi, inzu iruhukiramo ababyeyi cyane cyane ababa bavuye ku iseta, bamaze kubyara, kugira ngo baruhuke bongere babone imbaraga, ndetse bakomeze no kwita ku mpinja zabo.

Serivisi z'ubuvuzi zegerejwe abaturage, imwe muri gahunda ya leta yo kugira ngo abaturage babaho bafite ubuzima buzira umuze, hano umuturage ari kuganira n'umuganga ku bibazo by'ubuzima bigiye bitandukanye.

Ibikoresho byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuzima nziza kandi zinogeye abarwayi cyane cyane abivuza uburwayi bw'amaso, ibyuma byifashishwa mu gupima indwara z'amaso zitandukanye ndetse n'izindi ndwara zifata amaso.

Inzu y'ababyeyi, izwi ku izina rya materite, ikaba ari inzu iruhukiramo ababyeyi igihe bavuye ku iseta cyangwa aho babyarira kugira ngo babashe kwita ku mpinja zabo.

Ahatangirwa serivisi z'ubuzima zitandukanye ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gutanga izo serivisi, harimo ibyuma bireba udukoko dutoya tutaboneshwa amaso, n'ibindi byifashishwa muri serivisi zo kubaga.

Ibitaro by'akarere ka Nyabihu byitwa Shyira, ni ibitaro byuzuye bitwaye amafaranga asaga miliyoni zirindwi z'amadolari. Ni imwe muri serivisi z'ubuzima zegererwa abaturage kugira ngo abaturage b'akarere ka Nyabihu bareke gukora ingendo za kure bagiye gushaka serivisi z'ubuzima.

Inzu y'ababyeyi. Akaba ari inzu iba iri kwa muganga, ababyeyi bavuye ku iseta kubyara baruhukiramo kugira ngo babone uko bita ku mpinja zabo, ndetse n'ababasura babone aho babasanga.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima, iki gice kikaba cyarahariwe gutanga serivisi z'ubugororangingo cyane cyane ku bantu bafite ibibazo by'amagufwa ndetse no mu ngingo zimwe na zimwe z'umubiri.

Icyumba kirwariramo abarwayi. Iki ni igitanda gishashe neza, umurwayi aryamamo, ndetse n'imashini ziri iruhande rwacyo, zifashishwa mu kugenzura ibimenyetso by'ingenzi ku murwayi.

Ibitaro byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, cyane cyane izerekeye indwara z'amaso zijye zitandukanye. Aho bavura indwara zo kutabona neza, ndetse no ku bindi bibazo harimo nko kubyimba amaso, ndetse n'ibindi.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuzima zihuse aho iki cyumba gihuriramo indembe ziturutse mu bice bitandukanye cyangwa izaba zakoze agisida kugira ngo bahabwe ubutabazi bw'ibanze mu buryo bwihuse.

Ibitaro bya Butaro biherereye mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru, byubatswe na Repubulika y'u Rwanda ifatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye, harimo inshuti y'ubuzima ndetse na kaminuza yigisha ibijyanye n'ubuzima yitwa Havadi; ikaba ari ibitaro bitanga ubuvuzi ku ndwara ya kanseri.

Ahakorerwa siporo ibi ni ibikoresho bikoresha iterambere rigezweho byifashishwa mu gukora siporo, harimo ibyo kunyonga kugira ngo ukomeze imitsi y'amaguru, ibyo kwirukankiraho ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ubwiza n'ubuzima farumasi itangirwamo serivise zigiye zitandukanye harimo gucuruza ibikoresho by'ubwiza ndetse n'imiti igiye itandukanye, ihabwa abarwayi bitewe n'ubwishingizi bafite.

Ahatangirwa serivisi z'ubuzima zigiye zitandukanye, ndetse n'ibimenyetso bigenda bigaragaza ahantu ndetse na serivisi z'ubuzima zigiye zitandukanye, urugero nk'aho babagira aho basuzumira ndetse n'ahandi.

Ibikoresho byifashishwa muri serivisi z'ubuzima, ibi bikaba ari ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gihe bari gutanga serivisi zo kubaga indwara zitandukanye, hakaba hari amatara atuma umurwayi atakwandura indwara zigiye zitandukanye.

Igororero ry'umujyi wa Kigali, aho hajyanwa abana cyane cyane, ababa baracitse imiryango yabo bakajya kwigira inzererezi ku muhanda, bityo barafatwa bakajyanwamo hano kugira ngo basubizwe ku murongo ndetse babashe no gusubizwa mu miryango yabo.

Amazi akonjeshejwe akaba barafu, ni kimwe mu byifashishwa mu kugabanya ububabare nk'ahantu hari imvune, ndetse n'ahandi hose umuntu ashobora kuba yaba ababara ku mubiri.

Igikoresho cyifashishwa mu butabazi bw'ibanze kikaba kizwi ku izina rya burankari. Ni igikoresho cyifashishwa igihe baterura umuntu waguye igihumure cyangwa atabasha kwigenza kugira ngo bamugeze aho ahabwa serivisi z'ubuzima.

Utubuwate tw'ubutabazi bw'ibanze. Tuba tubitsemo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze nk'igihe habaye ikibazo cy'impanuka itunguranye cyangwa nk'umukinnyi agakomerekera mu kibuga.

Umusore wambaye ikabutura ndetse n'inkweto za siporo, biragaragara ko uyu musore ari muri siporo ngororamubiri. Gukora siporo ni byiza mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko bifasha umubiri gukora neza ndetse no gusohora imyanda.

Siporo kimwe mu bintu by'ingenzi umubiri ukeneye, cyane cyane ko siporo zidufasha kugabanya ibinure ndetse no kurinda indwara cyane cyane izitandura, ni byiza gukora siporo ariko ukazirikana no kunywa amazi kuko ari meza cyane, cyane cyane mu gusukura umubiri.

Imbaga nyamwinshi y'abantu ihuriye hamwe iri gukora siporo ngororamubiri, zigiye zitandukanye kugira ngo bishime kandi binatume umubiri wabo urushaho gukora neza. Ni byiza gukora siporo nk'izi ngizi kugira ngo dufashe imibiri yacu ibeho neza.

Abantu babiri bari gukora siporo, akaba ari umuhungu n'umukobwa ndetse bari gukorera ahantu mu misozi, bitwaje amazi yo kunywa kuko amazi ari ingirakamaro, cyane cyane igihe umuntu ari gukora siporo.

Umwana w'umukobwa uri gukora siporo ngororamubiri. Ni byiza gukora siporo kuko siporo ntabwo zigenewe abasore gusa, kuko twese turazikeneye kugira ngo umubiri wacu urusheho gukora neza.

Amazi bari gusuka mu gikombe cy'ikirahure akuwe mu ijage na yo ikoze mu kirahure. Aya mazi bikagaragara ko afite isuku ihagije kandi ari meza.

Ahakorerwa siporo zigiye zitandukanye, harimo izo guterura ibyuma siporo ngororamubiri, ibyuma byabugenewe byo kwirukankiraraho ndetse n'izindi siporo zijya zitandukanye zituma umubiri wacu umera neza.

Siporo ndetse no kurya indyo yuzuye cyane cyane imbuto, ni bimwe mu bituma umuntu agira ubuzima bwiza, cyane ko imbuto zikungahayemo intungamubiri, zituma umuntu yirinda indwara ndetse akabasha no gukomeza amagufwa.

Umuzungukazi ndetse n'umumansera n'akana gatoya, aho bari kugafasha kwishima bakinana imikino y'abana igiye itandukanye, irimo nko kugendesha utumodoka, kubaka inzu ndetse n'iyindi.

Imbangukiragutabara ni imodoka yifashishwa n'ibitaro ndetse n'ibindi bigo bitanga serivisi z'ubuzima, ikaba itwara indembe abagore bagiye kubyara ndetse n'abandi badafite uburyo bwo kugera kwa muganga, kandi bakeneye ubuvuzi bwihuse.

Gukora siporo, kurya imbuto ndetse no kunywa amazi ahagije biri mu bimwe mu nkingi zishobora kugufasha kugira ubuzima bwiza wowe ndetse n'abawe, ukora siporo kandi ushishikarize n'abawe gukora siporo ndetse no kurya indyo yuzuye utibagiwe n'igikombe cy'amazi.

Abakora muri serivisi z'ubuzima zitandukanye, aho bahuriye hamwe mu kimeze nk'inama, hifashishijwe mudasobwa ndetse n'uburyo bw'iyakure, kugira ngo bigire hamwe ku bibazo bitandukanye biri mu buzima ndetse no muri serivisi batanga.

Igikoresho kizwi ku izina rya emalayi cyifashishwa mu buvuzi, cyane cyane mu kureba mu bice by'ubwonko ahatabasha kubonwa n'amaso ko haba hari indwara zigiye zitandukanye zafashe ubwonko harimo nka kanseri ndetse n'ibindi.

Uburyo bwiza bwo kuzirika umugozi wifashishwa cyane cyane mu buvuzi, igihe umuntu yakomeretse cyane cyane yagize ibibazo by'amagufwa, amagufwa akava mu mwanya wayo.

Amategeko agenga imiti ishobora kwifashishwa muri siporo zimwe na zimwe ngororamubiri kugira ngo hongererwe ububasha uzikora nk'igihe cyo mu marushanwa abe yabasha gutsinda abandi atananiwe.

Ibikoresho byifashishwa mu butabazi bw'ibanze harimo nk'amazi yakonjeshejwe akaba urubura yifashishwa mu gushyira ahantu hari imvune n'uburibwe udupfuko dutoya ndetse n'indi miti imwe n'imwe yifashishwa mu butabazi bw'ibanze.

Ahatangirwa serivisi z'ubuzima cyane cyane ahatangirwa serivisi yo kubaga indwara zitandukanye haba izifata amagufwa, izifata munda, gukura amenyo ndetse n'ibikoresho byifashishwa muri izo serivisi.

Imyitozo itandukanye igufasha kugarura ubwonko ku murongo, nyuma yo kuba bwakwangirika bitewe n'ikintu runaka, harimo imyitozo itanu ukora wicaye, ndetse n'indi myitozo itanu ushobora gukora uhagaze, harimo nko kurambura imitsi yo mu ntege, kuzamura amano, gukora siporo wicaye ku busa, ndetse n'ibindi.

Abagize umuryango ushinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze ndetse no gufasha abafite ibibazo bigiye bitandukanye, aho bari bari gufasha umusore bigaragara ko yagize ikibazo akaba atabasha kugenda.

Umuganga uri kwita ku buzima bw'umwana, cyane cyane ubuzima bwe bw'amenyo, aho ari gukoresha igikoresho cyabugenewe akamurika mu kanwa, kugira ngo abashe kubona ibibazo bimwe na bimwe byaba biri mu kanwa, ndetse n'ibyo amenyo yaba afite.

Icyuma cyifashishwa mu gukora siporo, amazi ndetse n'imbuto zitandukanye: nk'icunga, pome n'izindi, ibi biragaragaza ko gukora siporo kunywa amazi ahagije ndetse no kurya imbuto zikungahaye ku ntungamubiri zigiye zitandukanye ari mu bimwe mu bituma tugira ubuzima bwiza.

Siporo ngororamubiri zimwe muri siporo zifasha umubiri gutuma amaraso atembera neza, ndetse no gutwika ibinure bibi kuko bitera indwara cyane cyane harimo nk'umuvuduko w'amaraso, diyabete ,kanseri ndetse n'ibindi.

Umupapa cyangwa umusore uri kunywera amazi mu icupa ry'ubururu, kunywa amazi ni byiza mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko biturinda indwara z'impyiko ndetse n'izindi ndwara.

Umuforomo uri gufasha umurwayi kugenda muri serivisi z'ubugororangingo, ari kumufasha hifashishijwe igikoresho cyabugenewe gifasha uyu murwayi guhagarara yemye.

Ibikoresho by'ubuvuzi bitandukanye byifashishwa mu butabazi bw'ibanze, cyane cyane nko mu mikino igiye itandukanye nk'umupira w'amaguru ndetse n'ahandi, ibi bikoresho birimo ikizwi nka bande akagozi bahambira ahantu umuntu yavunitse, umukasi, udupfuko, barafu ndetse n'ibindi.

Gukora siporo ni ibya buri wese cyane cyane hibandwa kuri siporo ngororamubiri kuko zidufasha mu gutuma amaraso atembera neza mu mubiri, ndetse no kwirinda indwara zitandukanye cyane cyane indwara zitandura.

Ahatangirwa serivisi z'ubuzima cyane cyane izijyanye n'ubugororangingo bw'amagufwa, aha ngaha umuganga w'umuforomo yari ari gufasha umuntu ufite ibibazo by'amagufwa kugenda, ariko hifashishijwe igikoresho cyabugenewe kimufasha kugira ngo atagwa.

Umukobwa uri gukora siporo ngororamubiri, kugira ngo umubiri we urusheho gukora neza, ndetse no gutembereza amaraso nk'uko bikwiye, tutibagiwe n'uko siporo zifasha mu kongera ubumenyi, ndetse no kumva ubwonko buruhutse.

Serivisi z'ubugororangingo, aho abatanga izo serivisi, bafasha abazihabwa mu kugorora ingingo ndetse n'imikaya bityo bikabasha kuba byabarinda amavunane ndetse no kuribwa mu ngingo ku mubiri.

Umusore uri gukora siporo zo guterura ibyuma biremereye, kugira ngo imikaya ye yo ku maboko ndetse n'iyo ku maguru irusheho gukomera agire n'imbaraga nyinshi. Ni byiza gukora zino siporo kuko bituma imikaya ikomera.

Umusore umaze gukora siporo aho arimo arisukaho amazi kugira ngo umubiri we ubashe gukonja, gukora siporo ni byiza mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse no kwifashisha amazi.

Gukora siporo, kunywa amazi ndetse no kumva indirimbo nziza zituje ni mu bimwe bituma umubiri wacu ubasha gukora neza ndetse n'ubwonko bukaruhuka bihagije bityo ibyo dukoze byose tukabikora neza.

Umukobwa muto uri gukora siporo ngororamubiri, ni byiza kumenyereza umubiri wacu ndetse tunawutoza gukora siporo kuko bituma twirinda indwara z'ingingo zigiye zitandukanye nka rubagimpande ndetse n'izindi.

Umusore uri gukora siporo ngororamubiri. Uyu musore arimo arakora siporo ngororamubiri, cyane cyane ko izi siporo ari nziza mu gutuma umubiri utembereza amaraso neza ndetse no kwirinda indwara nka za rubagimpande ndetse n'izindi ndwara zifata mu ngingo no mu magufwa.

Icyuma cyifashishwa kwa muganga kizwi nka emalayi, kikaba gikoresha urumuri rutaboneshwa amaso mu kureba indwara zimwe na zimwe mu mubiri tutabasha kubona nk'ibibyimba bifata mu mutwe ndetse n'ahandi.

Igikoresho kizwi nka burankari. Cyifashishwa mu buvuzi cyane cyane mu gutanga ubutabazi bw'ibanze, ndetse no mu mbangukiragutabara. Iki gikoresho kikaba cyifashishwa mu gutwara abantu bafite ibibazo byo kutabasha kwigenza kubera impamvu z'ubuzima runaka.

Gukora siporo ni byiza mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko biturinda kwandura indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane indwara zidakwirakwizwa harimo nk'umuvuduko w'amaraso, diyabete ndetse n'ibindi. Ibuka kunywa amazi buri uko ukoze siporo kuko bigufasha kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa uri gukora siporo ngororamubiri siporo ngororamubiri ni nziza cyane kuko biturinda rubagimpande ndetse n'izindi ndwara zifata amagufwa bikanatuma umubiri wacu utembereza amaraso neza.

Abaganga b'ikipe aho bari kwita ku mukinnyi ushobora kuba wagiriye ikibazo mu kibuga cyane cyane ikibazo cy'imvune akavunika mu kagombambare, aba baganga baba barabihuguriwe kugira ngo babashe gufasha mu gihe nk'iki ngiki.

Umugabo uri kunywa amazi yifashishije icupa risukuye ryabugenewe mu kubika amazi. Ni byiza kunywa amazi cyane cyane igihe turi gukora siporo cyangwa tuzisoje kugira ngo turusheho gufasha umubiri wacu.

Agasanduku kabikwamo ibikoresho by'ubuvuzi bigiye bitandukanye, cyane cyane ibikoresho byifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze, cyane cyane nko ku bakinnyi b'imipira ndetse n'abandi bakora siporo zatuma bagira ibibazo by'ubuzima mu buryo bwihuse.

Imbuto ndetse n'imboga zigiye zitandukanye, harimo nka pome, harimo tangawizi, harimo puwavuro y'umuhondo, harimo avoka, harimo inyanya ndetse n'izindi mbuto zitanga intungamubiri zigiye zitandukanye, umuntu akenera nk'igihe arangije gukora siporo.

Igikapu kibitsemo ibikoresho byifashishwa muri siporo ndetse n'ibyifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze, harimo nk'amabande, ga, imikasi, ndetse n'ibindi.

Umuganga uri gufasha umurwayi kumuzirika agatambaro kabugenewe kifashishwa mu buvuzi kugira ngo karinde amagufwa yangiritse agume hamwe kugira ngo yongere aterane.

Gukora siporo bifatanyije no kubona intungamubiri zihagije ni bimwe mu bituma umubiri wacu urushaho kwiyubaka ndetse no kugira ubuzima bwiza. Ni byiza gukora siporo ugaharanira no kurya imbuto kuko zikungahaye ku myunyungugu ndetse n'amavitamine umubiri wacu ukeneye kugira ubashe gukora neza.

Amazi n'amwe mu bintu bikenerwa n'umubiri cyane cyane nk'igihe amaze gukora siporo ngororamubiri, kuko bituma imyanda isohorwa mu mubiri ndetse n'amaraso akabasha gutembera neza, umuntu akagira ubuzima bwiza.

Kunywa amazi meza asukuye igihe uri gukora cyangwa urangije gukora siporo, bifasha umubiri mu gusohora imyanda imwe n'imwe iba yagiye ikorwa, mu gihe uri gukora siporo ndetse no gutwika ibinure.

Gukora siporo si iby'abakuze gusa n'abato birabareba. Aha ngaha abana b'imyaka itandukanye, bahuriye hamwe kugira ngo batozwe umuco mwiza wo gukora siporo kuko siporo ari ubuzima kandi siporo ari ukubaho. Gukora siporo bigufasha kugira ubuzima bwiza, umwana bikamufasha gutekereza neza ndetse no gutsinda mu ishuri.

Igikapu gitwarwamo ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze harimo nk'amabande, udupfuko dutoya ndetse n'imiti ishobora guterwa binyuze mu nshinge bityo ikabasha kuba yagabanya ububabare.

Uburyo bwo kugabanya ububabare mu ngingo, cyane cyane hifashishijwe ubukonje buturuka ku gukonjesha amazi agahindukamo urubura rukonje cyane, rukaba rwakwifashishwa mu kugabanya ubwo bubabare.

Igikapu kibitsemo ibikoresho byifashishwa mu kuvura ndetse no mu butabazi bw'ibanze. Ibikoresho bikaba bikunze kwifashishwa cyane n'abantu bari muri siporo, cyane cyane izerekeye imikino.

Ibikoresho biba bigize agasanduku k'ubutabazi bw'ibanze, haba harimo ibikoresho bitandukanye nk'umukasi, itoroshi, urushinge, pomade, ibipfuko, ga ndetse n'ibindi.

Amazi meza ni byiza gukoresha, kunywa, gukaraba amazi afite isuku kuko ari bimwe mu biturinda indwara cyane cyane izituruka mu ku mwanda ziterwa n'udukoko dutoya.

Inkoni izwi ku izina ry'imbago, akaba ari inkoni yifashishwa n'abantu bafite ibibazo by'imvune cyangwa bafite nk'ibibazo by'akaguru katagenda neza.

Icupa ryifashishwa mu kubika amazi ndetse no kuyatwara nk'igihe umuntu ari muri siporo, kuko gukora siporo ukanywa amazi ari bimwe mu bituma umubiri ubasha gusohora imyanda kandi neza.

Igikoresho cyagufasha gukuraho ibinure byo ku nda. Ni igikoresho cyifashishwa muri siporo. Iki gikoresho kikaba ari cyiza cyane kandi kikaba kidahenze kuko kigura amafaranga ibihumbi ijana na makumyabiri by'amanyarwanda.

Ikibabi cy'igiti cy'isombe, isombe ni kimwe mu biribwa abanyarwanda barya cyane aho bagisekura mu isekuru kikanoga ubundi bakagiteka neza rimwe na rimwe bakongeramo n'ibirungo ndetse bakanagitekana n'inyama.

Ububiko bw'imiti igiye itandukanye cyane cyane ikomoka ku bimera gakondo, iyi miti ikaba itunganyijwe mu nganda mu buryo bugezweho kugira ngo yifashishwe mu kuvura indwara.

Ikimera gakondo kizwi nk'umuravumba, iki kimera kikaba cyifashishwa mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye ariko higanjemo iby'ubuvuzi, kuko gikorwamo imiti igiye itandukanye yica indwara zituruka ku dukoko tutaboneshwa amaso.

Ubwoko bugiye butandukanye bw'icyayi kigenda gikorwa mu bimera gakondo, cyane cyane icyayi kigiye gitunganyijwe mu buryo bugiye butandukanye bitewe n'ugikeneye ndetse n'intungamubiri gitanga.

Umuti w'amenyo wifashishwa mu gusukura amenyo, uyu muti ukaba uturuka mu kimera gakondo kizwi nk'igikakarubamba, akaba ari umuti mwiza kuko ukomeza ishinya ndetse ukica n'udukoko tuza mu kanwa twatera indwara z'amenyo.

Rwanda FDA, ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa, iki kigo kikaba cyarashyizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi umunani, kugira ngo kijye gikora igenzura ry'imiti n'ibiribwa byinjira mu gihugu.

Uburyo bwo kubika ibimera gakondo cyane cyane ibyifashishwa muri serivisi z'ubuzima, ubu buryo bukaba butuma ikimera kigumana umwimerere wacyo, mu buryo bw'igihe kirekire kandi kirambye.

Ndi umujyanama wawe mu buzima n'imirire, nkumenyera imirire iboneye kugira ngo wirinde indwara, nkanakuvura warwaye, nitutarya ibyo kurya nk'umuti tuzasigara turya imiti nk'ibiryo.

Tangawizi ni ikimera gakondo cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata umubiri cyane cyane izifata mu muhogo, izifata mu myanya y'ubuhumekero ndetse n'ahandi ku mubiri.

Umuti wifashishwa mu koza amenyo. Uyu muti ukaba ukoze mu kimera gakondo kizwi n'igikakarubamba. Ni umuti mwiza kuko usukura amenyo ukaturinda indwara zigiye zitandukanye, zifata mu kanwa ndetse no mu meyo.

Ibimera gakondo byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zimwe na zimwe zitandukanye, cyane cyane indwara zibasira uruhu, izibasira mu nda ndetse n'indwara zifata imyanya y'ubuhumekero.

Ikimera gakondo kizwi ku izina ry'ikibonobono, kikaba ari ikimera kirangwa no kumera ahantu hose hatandukanye ariko hakunze kuba hari ububobere buhagije ndetse n'ifumbire ihagije.

Ihuriro ry'abacuruzi b'ingeri zitandukanye, aho bahurira hamwe kugira ngo bagaragaze ibikorwa byabo, harimo: nk'imiti ikomoka ku bimera gakondo, iyo miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, Harimo rubagimpande, umugozi, amavunane ndetse n'ibindi bifata mu ngingo, ndetse n'izindi ndwara zishobora kuba zafatwa ku ruhu.

Ibikoresho gakondo bigiye bitandukanye bikaba bikozwe mu bintu gakondo harimo ibibumbano bibumbye mu ibumba nk'inkono ,ndetse n'akazu gatoya kubabatse mu birere.

Amakuru avuga ku kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo, aho imiti igomba kugenzurwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa, kizwi nka FDA mu magambo mpine y'icyongereza.

Umuti wifashishwa mu koza mu menyo, ukaba ukoze mu kimera gakondo kizwi nk'igikakarubamba. Ni umuti mwiza cyane kuko utuma ishinya ikomera ndetse ukagabanya no kuva kw'amaraso mu menyo ndetse ukarinda n'indwara zimwe na zimwe mu kanwa.

Ibikoresho bitandukanye, bishobora kuba byakomoka ku kimera gakondo kizwi nk'igikakarubamba, harimo isabune yifashishwa mu koga mu mutwe, ndetse n'ahandi ku mubiri, amavuta yo kwisiga, korogate ndetse n'ibindi.

Ikimera gakondo cyifashishwa na benshi aho bamwe bacyifashisha nk'ikirungo mu mboga, abandi bakacyifashisha mu buryo bw'ubuvuzi cyane cyane ko ari cyiza mu kugabanya umuvuduko w'amaraso ndetse no kuwuringaniza, kikanavura indwara zirimo nka amibe ndetse n'izindi.

Icupa rifite ibara rya oranje rikaba ari icupa ribitsemo amavuta akomoka ku bimera gakondo cyane cyane igikakarubamba atunganyirijwe mu nganda umuntu yakwisiga ku ruhu.

Ibimera gakondo bigiye bitandukanye byifashishwa cyane cyane mu buvuzi ndetse no mu bwirinzi bw'indwara zimwe na zimwe harimo nk'umuravumba, kapusini ndetse n'ibindi bimera byose bishobora bishobora kwifashishwa.

Ikimera gakondo kizwi ku izina ry'umuravumba, kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, yaba indwara ziterwa n'udukoko dutoya tutabonesha amaso, zifata mu myanya y'ubuhumekero mu nda ndetse n'ahandi hatandukanye ku mubiri.

Umuti ukorwa mu bimera gakondo, ukaba wifashishwa mu gusukura intoki, cyane cyane wica utumikorobe duto tutaboneshwa amaso, kuko dutera indwara, kandi mbi cyane ku mubiri wacu.

Umuti wa rivayivu igisubizo ku muryango, ni umuti uvura kurangiza vuba, gucika intege mu gihe cyo gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha, ikumira indwara za porositate.

Ubusitani bugizwe n'indabo z'amoko agiye atandukanye higanjemo n'ibimera bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo. Ni byiza ko tubungabunga ibimera byifashishwa mu buzima gakondo tubitera nk'ubusitani kuko ntacyo byangiza.

Igikakarubamba kimwe mu bimera gakondo kivamo ibintu byinshi bitandukanye cyane cyane imiti yifashishwa mu buvuzi, amavuta yifashishwa mu kunoza uruhu, ndetse no gutuma rworoha.

Ikimera gakondo cyeraho imbuto zikoreshwa mu buzima bwacu bwa buri munsi izi mbuto zikaba zizwi nk'intabara cyangwa amatunda bitewe n'agace gaturukamo kikaba ari icyatsi gikura kirandaranda.

Amavuta akoze mu bimera bitandukanye harimo ahakozwe mu gikakarubamba ndetse n'akozwe mu mwembe. Aya mavuta ni meza kuko atuma uruhu rugira ububobere buhagije ndetse akanarurinda kumagara.

Umuti wifashishwa mu gusukura amenyo ndetse no koza mu kanwa. Uyu muti ukaba ukoze mu kimera gakondo kizwi nk'igikakarubanmba. Uyu muti ukaba ari mwiza cyane kuko utuma amenyo asa umweru ndetse bigatuma unarinda ibintu bifata ku menyo.

Amacupa yifashishwa kubika imiti imwe n'imwe igiye itandukanye, harimo imiti ikomoka ku bimera gakondo ndetse n'ibindi byatsi n'ibiti byifashishwa mu buvuzi kugira ngo itangirika.

Amavuta akomoka mu gikakarubamba. Igikakarubamba ni ikimera gakondo kifashishwa mu buvuzi ndetse no mu bindi by'ubwiza bigiye bitandukanye, kuko kigira akamaro mu kurinda uruhu rwacu.

Ikimera gakondo kizwi ku izina ry'urumogi, kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye mu buvuzi, harimo nko kuruka, isesemi, igicuri ndetse kikaba cyifashishwa nk'ikinya mu buvuzi.

Ibimera gakondo bigiye bitandukanye ariko cyane cyane ibi bimera tukaba tubikoresha mu buzima bwa buri munsi, kuko ari ibiribwa harimo ubunyobwa, ibitoki, pavuro ndetse n'ibindi.

Ikimera gakondo kizwi ku izina ry'umuravumba ni ikimera cyifashishwa mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye cyane cyane ibyerekeye n'ubuvuzi, aho abahanga babikoresha mu gukora imiti ivura indwara iterwa n'udukoko tutabonesha amaso.

Uko bakora imiti yo mu buvuzi gakondo, iki ni ikimera kizwi ku izina ry'umwenya ndetse ubu ni uburyo bwifashishwa mu gukuramo amazi y'iki kimera cyane cyane ko ari meza mu kuvura indwara zibasira ubuhumekero.

Umuti ukomoka ku bimera gakondo wifashishwa mu kuvura indwara izwi ku izina rya fiboroyide, akaba ari indwara ikunze gufata abagore ikabafata muri nyababyeyi, aho nyababyeyi ibyimba ikazanamo utubyimba mo imbere.

Ibikoresho by'ubwiza bitandukanye bikomoka ku bimera gakondo, cyane cyane byiganjemo ibikomoka ku gikakarubamba harimo: amavuta yo kwisiga, harimo corogate ndetse n'ibindi.

Amavuta yo mu bwoko bugiye butandukanye, harimo akomoka ku bimera gakondo byiganjemo igikakarubamba ndetse n'ibindi, aya mavuta agiye afite imimaro itandukanye cyane cyane yerekeye ku gukesha uruhu no kururinda indwara.

Ibinini bipfundikiye bikorwa mu kimera gakondo, ibi binini bikaba biteretse ku kibabi cy'umuravumba. Ibimera gakondo ni byiza mu buzima bwacu bwa buri munsi cyane cyane mu buvuzi kuko bikorwamo imiti itandukanye.

Igikakarubamba ni ikimera gakondo gishobora kuvamo ibintu bitandukanye, cyane cyane ibyifashishwa mu buvuzi, harimo nk'amavuta yo kwisiga ku ruhu ndetse ayo kwisiga mu musatsi, agatuma uruhu rumera neza ndetse n'umusatsi umera neza.

Ibinini binini bifite ibara ry'icyatsi, ibi binini bikaba bigaragara nk'aho bikoze mu kimera gakondo ndetse ari ibinini bishobora kwifashishwa mu buvuzi mu kuvura indwara zigiye zitandukanye kandi bigaragara ko bifite isuku kandi bitunganyijwe neza.

Imbuto nk'amacunga ndetse n'izindi ni bimwe mu biha umubiri vitamine ndetse n'imyunyu ngugu ukeneye kugira ngo ube wabasha kubaka ubudahangarwa harimo nk'imyunyu ngugu ikomeza amagufwa amavitamine arinda ubuhumyi ndetse n'andi mavitamine atandukanye.

Amajyane akozwe mu bimera gakondo bitandukanye, hakaba hanavanzemo ikimera gakondo, cyifashishwa mu bintu byinshi, kizwi ku izina ry'igikakarubamba, aya majyane ni meza ku buzima bw'umuntu.

Imbuto zitwa imihuhu mu Karere ka Huye ariko zishobora kuba zifite irindi zina mu tundi Turere tugiye dutandukanye tw'igihugu, ni imbuto nziza cyane kuko zitanga intungamubiri zikenewe n'umubiri.

Ubuvuzi gakondo bwifashishije ibimera, aho indwara zitandukanye zishobora kuvurwa hifashishijwe ibyatsi karemano, harimo nk'igikakarubamba, umubirizi, umwenya ndetse n'ibindi bimera bigiye bitandukanye byakoreshwa muri ubwo buvuzi.

Icupa ribitsemo ubuki, ubuki bukomoka ku ruyuki, kikaba ari kimwe mu bintu byifashishwa cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko ubuki buvura indwara zigiye zitandukanye ndetse bukanatanga intungamubiri ku mubiri.

Ibiryo by'amoko bitandukanye bitunganyirijwe mu nganda, cyane cyane ibikomoka ku bimera gakondo nk'inanasi, amacunga, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikomoka ku bimera gakondo.

Ububiko bw'imiti itandukanye cyane cyane imiti ikomoka ku bimera gakondo, harimo: nk'igisura, umuravumba, isusa, umwenya, umubirizi ndetse n'ibindi bimera gakondo bigiye bitandukanye.

Igikakarubamba kimwe mu bimera gakondo gikoreshwa cyane n'abantu b'ingeri zigiye zitandukanye, aya ni amavuta akomoka ku gikakarubamba aho yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zifata uruhu.

Ibimera gakondo bikomoka muri Africa byifashishwa mu buvuzi, ariko byifitemo ubushobozi bwo kuzamura isukari y'umubiri, ndetse n'uburyo ibi bimera gakondo bishobora kuba byazamura iyi sukari.

Ishyamba ry'inzitane rigizwe n'ibimera gakondo, cyane cyane ibyifashishwa mu buvuzi bw'indwara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye, harimo izibasira mu nda, izifata mu myanya y'ubuhumekero ndetse n'ahandi ku mubiri.

Uruvange rw'ibyo kurya by'ubwoko bitandukanye bitunganyije mu nganda, harimo nk'amajyane yifashishwa mu guteka icyayi, ibirungo byo mu cyayi ndetse n'imbuto izwi ku izina ry'inanasi.

Ibimera gakondo bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, ni byiza kubungabunga ibi bimera kugira ngo bidashiraho bikavaho bikagenda burundu, ibimera harimo nk'igikakarubamba, umwenya, umubirizi, umushishiru ndetse n'indi.

Isabune nziza yifashishwa mu gukora isuku ahantu hagiye hatandukanye, cyane cyane nko mu bwiherero ndetse no mu bwogero kuko ikuraho ibizinga ndetse n'indi myanda yose ikica n'udukoko.

Icyayi kirimo ibibabi by'ibimera gakondo nk'umuravumba te cyangwa umwenya, aho iki cyayi ari cyiza cyane kuko gihereza umubiri ubudahangarwa bwo kwirinda indwara.

Umuti wifashishwa cyane cyane n'igitsina gore uyu muti ukaba wifashishwa mu kurinda iminwa kuma cyane cyane nko mu gihe cy'izuba ukaba ukoze mu gikakarubamba.

Ihuriro ryerekanirwamo imiti gakondo ndetse n'ibindi bitandukanye, aho iyo miti igiye ifunze mu macupa atandukanye, iyi miti ikaba ikomoka ku bimera bigiye bitandukanye, harimo nk'igikakarubamba, umubirizi, umwenya n'ibindi.

Ikimera gakondo kizwi nka kapusine, ni ikimera kiryana iyo ugikenye kubera ko cyifitemo ibinyabutabire biryana nk'urusenda. Ni ikimera kandi byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye cyane cyane izifata mu muhogo ndetse no mu buhumekero.

Isabune ikozezwe mu kimera gakondo kitwa igikakarubamba, ni isabune yo gukaraba mu mutwe cyane cyane ko ituma udukoko dufata mu musatsi tugenda dukunze kwitwa imvuvu.

Ikimera gakondo kizwi ku izina ry'inyabarasanya. Ni ikimera cyifashishwa mu bintu bigiye bitandukanye, harimo mu bworozi kuko inka cyangwa andi matungo akirya cyangwa mu buvuzi kuko kizwiho kuba cyifitemo ubushobozi bwo komora igisebe.

Umuravumba kimwe mu bimera gakondo, byifashishwa cyane cyane mu buvuzi kuko ukurwamo imiti yifashishwa mu kwica udukoko tutaboneshwa amaso, bitewe n'ibinyabutabire biwubamo.

Isoko rimurikirwamo imiti itandukanye cyane cyane imiti ikomoka ku bimera gakondo iyi miti iba yatunganyijwe n'ababifitiye ububasha maze ikazwanwa mu isoko kugira ngo abarwayi babashe kwigurira.

Umuti usigwa ku minwa kugira ngo birinde kumagara cyane cyane nk'abantu bakunze kugira ibibazo byo kuma umunwa iyi miti bayifashisha, ikaba izwi ku izina rya labero kandi ikaba ikoze mu gikakarubamba.

Ibibabi by'urubuto rwa avoka, urubuto rwa avoka ni urubuto rwiza kuko rutanga intungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye ku mubiri wacu, cyane cyane higanjemo amavuta.

Amacupa abitswemo imwe mu miti ivanwa mu bimera gakondo, iyo miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo izifata munda, mu buhumekero ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Uruvange rw'imiti ituruka ku bimera gakondo bigiye bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi ndetse no kuryoshya ibiryo, harimo nka tangawize umuravumba, umubirizi, umuko ndetse n'ibindi.

Ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo imbuto nk'inanasi, imineke ndetse n'izindi, tukabona n'ibindi bikoresho byifashishwa mu rugo bitunganyirijwe mu nganda nk'amafu y'icyayi ndetse n'ibindi.

Indimu, umwenya, umushishiro, mucyayicyayi, ni bimwe mu bimera gakondo, bidufasha kwirinda indwara zitandukanye, harimo nk'indwara zifata umutima, indwara zifata umwanya w'ubuhumekero, ndetse n'izindi.

Avoka imwe mu mbuto zikungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane ariko hakaba higanjemo amavuta, avoka ikorwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye harimo amavuta yo kwisiga, amavuta yo gutekesha ndetse n'ibindi.

Amajyane ashyirwa mu cyayi agiye akozwe mu bimera gakondo bigiye bitandukanye, harimo avanze na tangawizi avanze n'umwenya ndetse n'andi agiye avanzemo ibimera gakondo bitandukanye.

Amavuta asigwa ku ruhu rw'umubiri w'umuntu. Aya mavuta akaba akomoka ku bimera bitandukanye kandi akaba ari meza, kuko atuma uruhu rworoha ndetse rugahorana itoto. Ni amavuta akomoka ku bimera biriho igikakarubamba ndetse n'ibindi.

Ikimera gakondo cyifashishwa mu buvuzi cyane cyane n'abaturage kuko kivura indwara zifata mu buhumekero. indwara zifata mu nda, iki kimera kizwi nk'umuravumba.

Umuti wifashishwa mu buvuzi, cyane cyane ku kuvura indwara z'abagabo zerekeye n'ubuzima bw'imyororokere harimo nko kurangiza vuba, gucika intege igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ndetse n'izindi.

Amavuta yo mu bwoko butandukanye akomoka ku bimera gakondo, akaba ari amavuta meza ku ruhu, kuko avura indwara zigiye zitandukanye zifata uruhu, ndetse akarinda n'uruhu kuma, rugahora rukeye kandi rubobereye.

Isabune ikorwa mu kimera gakondo, kizwi nk'igikakarubamba ndetse no mu rubuto rw'avoka, iyi sabune ikaba ari nziza kuko ikesha uruhu ikanarurinda indwara zigiye zitandukanye, harimo no kumagara.

Isabune ndetse n'amavuta bikozwe mu kimera kizwi ku izina ry'igikakarubamba. Iki kimera kikaba ari cyiza kuko gituma uruhu rwacu rucya ndetse kikanarurinda kumagara, tutibagiwe n'indwara zigiye zitandukanye.

Ibinini byifashishwa mu gutanga intungamubiri zikenewe ku mubiri, harimo imyunyu ngugu ndetse n'amavitamine atandukanye. Uyu muti ukaba wanakwifashishwa n'abarwayi bafite diyabete kuko nta sukari irimo kandi n'abatarya inyama bakaba bawifashisha.